Umwana uri kuvoma amazi ayahagazemo ndetse adubitsemo ibido ahantu kw'iriba, si byiza cyane kuvoma amazi muri ubu buryo kuko bituma aba afite umwanda wayakoresha akagutera indwara zinyuranye.

Umugore n'umugabo bari kumwe bicaye ku ntebe za shezi, imbere yabo hari umujyanama w'ubuzima nawe uhicaye ufite isheze imbere ye irambitseho ibitabo, afite ikindi gitabo mu ntoki ari kubagira inama y'uburyo bwo kuboneza urubyaro.

Umwana wagiye kwa muganga none muganga agiye kumutera urushinge, uyu mwana rero bamujyanye kwa muganga kugira ngo bamukingire urukingo rw'Iseru na Rubeole akiri muto.

Icyapa kiriho umugabo wambaye amadarubindi, icyo cyapa kirasa mu ibara ry'ubururu n'umweru, uyu mugabo rero bakaba bari kutwereka ko ari we tuzakorana inama mu minsi iri imbere.

Abantu bateraniye hamwe harimo n'umuzungu. Bari kwifotoreza imbere y'ikigo nderabuzima. Icyo kigo nderabuzima kikaba giteye amarangi y'ubururu. Hashushanyijeho abantu bane. Hakaba handitseho ngo:"Gira ubuzima."

Abaganga bagera muri batatu bambaye imyambaro y'akazi n'utunozasuku mu mutwe, harimo babiri muri bo bambaye amadarubindi, bafashe udukarito mu ntoki turimo umuti wifashishwa mu buvuzi.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ijipo y'umukara, akaba ari kuvoma amazi ku ivomero rusange aho yateretse injerekani mu mabase abiri acomekeranyije, inyuma ye hari imyenda ihanitse bigaragara ko ari kumesa.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa kizungu, aho biri mu mabara y'umweru n'icyatsi, iyi rero ni imiti yifashishwa nk'inshinge, aho barufungura bagakoza mwa kariya gacupa bakavanamo umuti hanyuma bakarutera umuntu.

Abantu bagera muri batanu b'abaganga aho bari ku cyapa, bakaba bari kutubwira ko ikiganiro kizaba ubutaha ari bo bazagikoresha bagahugura ku bijyanye n'ubuzima.

Abantu benshi bicaye bateraniye hamwe, bicaye muburyo bw'uruziga, hagati yabo hicayemo hahagazemo umugabo w'umuganga bigaragaza ko arikoresha inama, yambaye itaburiya y'umweru n'inkweto z'umweru.

Ni kwa muganga aho hari abaturage benshi baje kuhashaka serivisi, hari umusaza wicaye yasamye muganga ari kureba mu menyo ye ngo arebe ko yujuje ibyangombwa. Hirya hari abandi bantu batonze imirongo biteguye gukurikiraho.

Abana b'abanyeshuri bahateraniye hamwe ku mugezi, aho bari kubyiganira mazi ari benshi cyane. Muri abo bana higanjemo abambaye imyenda ya kacyi, imyenda ifite amabara y'icyatsi, ubururu, umutuku, umweru, ndetse n'iyindi.

Abantu bagera muri bane harimo abagabo babiri n'umugore umwe, bakaba bateraniye hamwe bicaye, imbere yabo ku meza hari amacupa y'amazi, muri abo bagore umwe afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga, undi nawe ari kureba.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu cyumba cy'inama harimo abagabo n'abagore, abera n'abirabura, ayo meza yabo hashasheho igitambaro cy'umukara, hagiye hateretseho n'amazi imbere ya buri wese.

Abana bateraniye hamwe bari gukaraba amazi ari gushoka ajya hasi mu ibase, hari abantu benshi bashungereye uburyo ki aya mazi ari kuza, izi ni serivisi za leta zo kwegereza abaturage amazi.

Abana babiri b'abakobwa, aho umwe ari gukorera mugenzi we indobo isa icyatsi, inyuma yabo hari inzu ya nyakatsi, hakurya hari agasozi kagufi kariho ibyatsi bigiye bitandukanye by'ibimera.

Abasore n'abakobwa bari kumwe, aho bafashe icyapa mu ntoki kiri mu mabara y'ubururu n'umweru, nabo bambaye udupira tw'ubururu bari kurebera muri icyo cyapa aho bishimye, iki cyapa rero ni icy'umuryango wita ku buzima bw'abana ku isi UNICEFU.

Icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umukara. Hakaba hariho ibigereranyo uko bimeze ku ijana. Rimwe n'ibice bibiri ku ijana, mirongo irindwi na gatanu ku ijana, rimwe ku ijana, ijana na mirongo itanu na kabiri ku ijana, ndetse na makumyabiri na kane ku ijana.

Abantu benshi bagiye batandukanye bahuriye hamwe aho hari abana bicaye hasi bambaye udupira dusa nk'icunga, hakaba hari abantu babasuye bari kugenda babaha amata mu byansi n'ibikombe.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, hari n'umugore ushinzwe umutekano w'umupolisi, imbere y'abo hari umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki ari kugenda abaha imbwirwaruhame.

Umugore uhagararanye n'umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya, uyu mugabo afashe igipapuro kiriho abana babiri asobanurira uwo mugore ibyiza byo kuboneza urubyaro, ukabyara abana batarenze babiri.

Abantu bagera muri bane, bahagaze imbere bafite indangururamajwi, bigaragara ko bari gukina ikinamico; inyuma yabo hari icyapa cyanditseho ko batashye ikigo cyita ku bana mu Rwanda, hirya hari icyapa cya UNICEF.

Abantu benshi bahagaze mu cyumba, imbere yabo hari umukobwa wifashe mu mayunguyungu wambaye akajipo k'ubururu, ndetse n'akaribaya kadoda mu bitenge, bigaragara ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe.

Umwana mutoya bari gukorera akajerekani ka cumi gashaje, hari umugabo ugafashe ndetse n'umugore w'umuzungu uri gufotora, hari n'abandi bantu hirya, bigaragaza ko bari kuvuga ko nta mwana ugomba kuvunishwa ahubwo agomba koherezwa ku ishuri.

Abana batatu baje kuvoma amazi mu kiyaga. Aho bari kuvo amazi bayahagazemo ndetse badubitsemo n'ibijerekani, si byiza rero gukoresha aya mazi kuko aba afite umwanda, yatera indwara.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi cyane bateraniye ahantu ku biro by'umurenge, harimo abagabo ndetse n'abagore, abenshi muri bo bambaye bote zisa icyatsi, bakaba baje mu nama yabereye aho ngaho.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari kwifotoza, harimo abaganga biganje bambaye amataburiya y'umweru, inyuma yabo hari bandorori yanditseho insanganyamatsiko bari barimo muri iyo nama.

Abantu bateraniye hamwe bari kwifotoza, bateraniye imbere y'inzu yubakishije amatafari ahiye. Abo bantu ni abagore gusa, bigaragara ko bari bari mu nama yiga ku bijyanye n'iterambere ry'umugore.

Aha ni ku ivomero rusange, aho abantu baje gushaka amazi, iri vomero rikaba riteye amarangi y'ububururu n'umweru, hari umukobwa uri kuvomesha, amavido agiye akurikirana bitewe n'uko baje.

Abantu batandukanye bicaye bacigatiye abana bambaye imipira y'umweru aba mama abana bambaye imipira isa icunga hari umugabo wambaye umupira usa icunga ari kugenda ahereza buri mwana icyo kurya.

Abana babiri bahuriye ku mugezi bose bakaba bari gukaraba intoki. Umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye imyenda ijya gusa icyatsi, irimo utudomo tw'umweru, idozwe mu bitenge. Aba bana rero bakaba bari kugirira isuku intoki zabo mbere yuko banywa amazi.

Abantu bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, harimo abagabo ndetse n'abagore, harimo kandi abazungu n'abirabura, buri wese imbere ye hateretse agacupa karimo amazi n'ikaye yo kwandikaho, imbere imbere hari insakazamashusho ifunguye.

Umugore wambaye agapira k'umukara uhetse agasakoshi ka move afite n'ikote mu ntoki, yagiye kwa muganga kwikingiza none muganga ari kumutera urushinge umugore arahurije ari kwihangana.

Abantu bateraniye hamwe bari ku ivomero rusange aho baje gushaka amazi, hari umutaka uhari utwikiriye umuntu kuvomesha, hakaba handitse ngo ijerekani imwe igura amafaranga makumyabiri.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru afite indangururamajwi mu ntoki ndetse n'imisatsi ya menshi ari kuvuga, ari kubwira abantu bateraniye hamwe bicaye mu ishitingi bari mu nama.

Umugabo uri kugenda azenguruka mu baturage bari ahantu hamwe agenda abaheza udupapuro bagomba gusoma, akaba yambaye akajire k'umukara, ipantaro y'umukara ndetse n'agapira gashya ubururu na baji mu ijosi.

Abantu benshi cyane bateranye, batandukanye kandi hari umugore wazanye umwana none umwana muganga yamwasamuye ari kureba mu kanwa ngo arebe ko afite ubuzima bwiza, abari aho bose bambaye udupfukamunwa.

Umwana mutoya wambaye ishati y'ubururu n'ikabutura y'umukara, ari gukaraba ku ndobo isa umweru, bigaragara ko ari kandagira ukarabe, ni byiza cyane gutoza umwana ukiri muto gukaraba kuri kandagira ukarabe.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe ba banyeshuri, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umuhondo, hari abazungu ndetse n'abirabura, inyuma yabo bakaba bari kumwe bose bazamuye ibiganza bari gupepera bigaragara ko bishimye bose.

Abana bakiri batoya bari koga mu kiyaga kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri, ni byiza cyane ko abana boga ariko kandi hari umuntu mukuru ubari hafi kugira ngo nihagira umira nkeri ahite amutabara byihuse.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari mu nama, hari umugabo uri kubagezaho iyo nama, wambayeipantaro y'umukara n' agakote k'umukara, afite ikayi mu ntoki aho ari kugenda abasobanurira ibintu runaka, iyi nyubako barimo isa n'ishaje.

Ni ku ivomero rusange, aho umuntu umwe avoma mugenzi we ari guhomba kugira ngo amazi abashe kuza. Uri gubomba n'umugore uteze amazi n'umwana hirya hari abandi bari gushungera bareba uko bimeze

Abantu benshi bateraniye hamwe b'abamama, bigaragaza ko baje gukikiza abana babo, imbere yabo hari umuganga usutamye, uri kugenda yita kuri buri mwana umubyeyi aba yazanye.

Icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, avuga ngo uburyo bwo guteza imbere ubuzima muri Carolina y'amajyaruguru.

Umukecuru wagiye kwa muganga ari kumwe na bagenzi be. Bagiye kwisuzumisha umuvuduko w'amaraso none muganga yamushyize icyuma kabuhariwe mu kizigira cy'ukuboko ari kureba uko umuvuduko w'amaraso we uhagaze.

Abana bato cyane, bari mu kigero kitarengeje imyaka itanu, bari baje kuvoma ku ivomero babanza gupompa birabananira, hagera umugore ufite imodoka, abonye byanze avamo none ari kubapompera, bari kuvoma.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama, imbere yabo hari abantu bagera muri batandatu bari kubakoresha iyo nama, hari n'insakazamashusho iriho ifoto ya minisitiri w'ubuzima mu Rwanda ari ukuvuga.

Abantu bateraniye hamwe ku meza bari mu nama, imbere ya buri wese hakaba hagiye hatetseho icupa ririmo amazi yo kunywa ndetse n'indangururamajwi. Imbere ya bose hari umugabo uhicaye uri kuyibakoresha. Iruhande rwe hari ibendera ry'u Rwanda.

Umukecuru ugeze mu za bukuru akaba yagiye kwa muganga, aho yagiye kwipimisha indwara runaka, muganga nawe yamufashe ukuboko ari kumusuzuma, hari abandi baganga bagenzi be ndetse hirya ari kugaragara umukorerabushake wambaye akajiri.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, hakurya hari isakaje amabati atukura, iteye n'amarangi y'umweru ku nkuta, hino rero hari indi yubatswe mu buryo bw'amayobera, aho yubatswe mu buryo bw'uruziga hejuru harasa ubururu.

Ikirango cy'umuryango wita ku buzima ku Isi, kiri mu mabara y'ubururu ndetse hagiye hashushanyijemo inkoni izinzeho inzoka, ni byiza cyane kuko umuryango ari ingirakamaro.

Abantu bateraniye hamwe bari mu cyumba cy'inama benshi cyane, bicaye ku ntebe zirimo zirasa ubururu. Imbere yabo ku meza bose, hagiye hateretseho amazi yo kunywa. Bari kurebera imbere ku nsakazamashusho ihari inama bari kwigaho.

Umugore wikoreye ikibido gisa umuhondo, akaba ari gutambuka avuye gushaka amazi, ari kumwe n'umwana w'umukobwa n'undi mwana w'umuhungu nabo bafite utujerekani baje gushaka amazi.

Umugore ucigatiye umwana akaba yagiye kumupimisha kwa muganga, hari umujyanama w'ubuzima wambaye itaburiya, akaba yitegura kwakira uyu mwana wuyu mubyeyi ngo amusuzume arebe ibiro yaba ari gupima.

Umwana muto w'umunyeshuri uri mu kigero cy'imyaka nka cumi n'itatu ari gukaraba intoki ze ku ivomero rusange cyangwa se kandagira ukarabe, hirya ye hari ibiti byashaje bitagifite amababi.

Mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byose nkenerwa byifashishwa mu gutanga izo serivise zijyanye n'ubuvuzi, aho harimo umugore wajemo yambaye agapfukamunwa yiteze igitambaro n'umupira w'icyatsi, akaba yaje gushakamo ubufasha.

Umugore witwa Jacqueline Clarisse, akaba ari we wasohotse kuri iki cyapa uzafasha abantu, mu bijyanye no gusobanukirwa ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore uri mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, ateze igitambaro, yambaye n'agapfukamunwa, yambaye umupira w'ingofero ndetse akaba ari muri icyo cyumba.

Umuntu uri gukaraba amazi ku itiyo rusange izana amazi, aho yateze ibiganza none amazi akaba ari kuza, yambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, ni byiza cyane kugira isuku.

Umugore wagiye kwa muganga kwivuza none muganga yamushyize icyuma ku kizigira cy'ukuboko, ari gupima umuvuduko w'amaraso we uko uhagaze, muganga imbere ye afite mudasobwa ndetse hari n'undi uri inyuma ye.

Abantu bahuriye hamwe, ku ivomero rusange, aho bagiye gushaka amazi. Harimo igitsina gore, n'igitsina gabo. Iryo vomo, riteye amarangi y'ubururu n'umweru. Hari umukobwa uteruye injerekani ebyiri.

Abana benshi bateraniye hamwe bambaye udupira dusa ubururu, bakaba bafatanye ku ntugu, utwo dupira twanditseho ngo Unicef umuryango wita ku bana ku Isi.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama bose bicaye barebye imbere barakurikiye. Hagati yabo hari icyapa cy'ubururu n'umweru gishushanyijeho ifoto y'umugore w'umuganga. Hari umugabo uhagaze hagati yabo, bigaragara ko ari we uri kubakoresha iyo nama.

Umugore wajyanye umwana kwa muganga, none muganga wambaye agapira k'umweru afashe umwana ari kugenda amukoraho, ngo asuzume yumve indwara umwana yaba yarwaye.

Ni ku ivomero rusange aho hari umuntu uri gupompa undi mwana ari kuvoma, abandi bahagaze hirya bari kurebera mu gihe abandi barimo gukora, bakaba baje kuvoma amazi na bo.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha. Ibikuta byacyo birasa umweru ndetse haciyemo uturongo tugera muri dutatu. Kamwe k'umutuku, umuhondo, umweru ndetse n'ubururu.

Umuryango wita ku buzima bw'abana ku isi, UNICEF. Byanditse mu mabara y'umweru. Hari n'ikirango cyayo, ndetse munsi handitseho ngo, kuri buri mwana.

Umwana wagiye kuvoma, aho yajyanye bya bivido bya kera biba bikoze mu ishashi, yafashe igihombo arafungura, none ateze amazi ari kugenda ajya mu ivido ye.

Abantu benshi bateraniye hamwe, aho bari kugenda bapanga imifuka mu buryo bwiza, harimo abagore n'abagabo, abari kwigaragaza ni abagore babiri bateruye umufuka, bagiye kuwushyira umugabo ngo awupange hamwe n'iyindi.

Umwana muto w'umukobwa ufite icupa ry'amazi akaba ari kumena amazi arimo, uyu mwana rero yambaye ikanzu idoze mu gitenge, ari ahantu hari inyubako yubakishije amatafari ahiye.

Abantu benshi cyane bateraniye mu cyumba cy'inama, aho imbere yabo hicaye abantu bagera muri batandatu bari kubakoresha iyo nama ariko bose bakaba bakurikiye ku nsakazamashusho ihari ijambo rya Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabien Nsanzimana.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bambaye imyenda isa ubururu, barishimye cyane aho imbere hari abantu babiri bari kukameza, bakaba bafite akana kambaye imyenda y'umweru, kari mu cyuma cyabugenewe, bigaragara ko bamaze kukavura.

Abana b'abanyeshuri bari kwivomero rusange riba ryarashyizweho na leta mu rwego rwo kwegereza abanyeshuri amazi. Bose bambaye imyenda ya kaki bakaba bari gukaraba intoki bose banezerewe.

Umwana wambaye agashati k'umutuku akaba ari gukaraba intoki kuri robine, ni byiza cyane gutoza umwana gukaraba intoki ze n'amazi meza n'isabune, kuko bituma akura azi ubwenge akagira n'ubuzima bwiza bw'ahazaza he.

Umukobwa ufite indobo y'umweru, akaba ari kuvoma amazi ku ivomero rusange, rimwe bavoma babanje gupompa. Agiye guterekaho indobo, hanyuma ajye inyuma, atangire kujya aragihaga, kugira ngo amazi aze.

Abantu bagera muri bane baje kuvoma ku ivomero rusange, aho umwe ari gupompa undi mwana ateze akabido. Hari undi mugore uri gutambuka n'undi mwana uhagaze ku ruhande na we ufite akadido mu ntoki.

Umugabo w'umwirabura ndetse n'umugore w'umuzungu, bafashe igikapu mu ntoki cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, yanditse mu cyongereza, uyashyize mu kinyarwanda aravuga ngo, sura u Rwanda, inyuma yaho hari ikirango cya Unicef.

Umumama ucigatiye umwana mu gatambaro ku muhondo, iruhande rwe hari umukorerabushake wambaye akajire kabugenewe n'agapfukamunwa, afite akuma gapima Kovide cumi n'icyenda, aho agiye gupima uyu mwana.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, imbere yabo hari umugore ucigatiye umwana wambaye ibitenge, afite amvelope mu ntoki ze, ndetse n'ifishi akingirizaho umwana.

Umwana w'umuhungu wambaye agapira k'ubururu yikoreye ikivido cyanduye, ariko kiriho icyapa cy'umuryango wita ku bana ku Isi UNICEF, hari umugabo ku ruhande rwe wambaye agapira k'ubururu uri guseka, nawe wirabura ufashe kuri icyo kibido.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari mu nama, harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hicaye abantu bagera muri batandatu bari kubakoresha iyo nama, inyuma hari icyapa kiriho abantu barakorana nabo muri iyo nama.

Abantu benshi bahagaze bari kwifotoza, harimo abagabo n'abagore, bamwe bambaye amakositimu, abandi bambaye imyenda y'amakanzu, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko bigagaho, hirya yabo hari idarapo ry'u Rwanda.

Abantu benshi bateraniye hamwe aho bari kwifotoza, bari mu cyumba cyaberagamo inama none ubu bari gufata ifoto y'urwibutso. Iyi nyubako rero ifite purafo zisa ibara rya shokora ndetse n'ameza yabo arasa shokora.

Abantu bicaye bateraniye hamwe bari mu nama, bicaye ku ntebe z'imifariso z'imikara, imbere yabo hari umugabo uhagaze uri kubagezaho ijambo, imbere hari abandi bagera muri batatu nabo b'abayobozi, hakaba ibyapa byanditseho ngo dutewe ishema n'ahashize hacu.

Ni abeshi batandukanye bafite Amadarapo y'u Rwanda ariko kandi harimo n'ababyeyi babo, bafite Amabendera y'u Rwanda bayamutse bayashyize mu kirere aho bari kuvuga ngo u Rwanda rwacu ruri ku isonga.

Abantu babiri bicaye harimo umugabo wambaye agapfukamunwa n'umugore ufite indangururamajwi mu ntoki uri kuvuga, inyuma yabo hari ibirango biri mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi n'ikirangantego cy'u Rwanda.

Umuntu wicaye yigunze yambaye agapantaro kajya gusa umukara n'agapira k'umutuku, yegamiye ku gikuta gishaje cyane ubona ko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Ni byiza cyane kumwegera tukamuganiriza tukamuhumuriza.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yambaye imyenda y'ibicabari ari kugenda atoragura amashashi mu muhanda, yicaye ahantu yegamiye ku nzu ifite igikuta giteye irangi rishaje ryahoze risa umuhondo.

Umugore wicaye imbere y'igiti bakaba bamuhiritse imyururu, bigaragara ko ashobora kuba afite uburwayi bwo mu mutwe, si byiza rero kuzirika umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, ahubwo mu mujyana mu bigo byita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Umuntu uri kugenda mu kingarani agenda atoragura amashashi yose, uyu muntu rero afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, niwe bita umusazi mu kinyarwanda cya nyacyo.

Umugore wicaye yunamye yifashe mu mutwe ari kwiyumvira bigaragara ko ashobora kuba ahangayitse cyangwa afite uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza rero ko tumwegera hanyuma tukamuganiriza tukamuhumuriza akarushaho kumererwa neza.

Abantu bateraniye hamwe bigaragara ko hari abayobozi. Bamwe baricaye abandi barahagaze. Bari kwifotoza bigaragara ko bari bari mu nama none ikaba irangiye. Bakaba bagiye gufata ifoto y'urwibutso. Imbuga barimo ishashemo amapave.

Urupapuro ruriho ikirango cya polisi y'u Rwanda kirimo inuma iri kuguruka, hari kandi ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda, munsi handitseho amagambo Isange One Stop Centre.

Umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yambaye ingofero ishaje, yambaye agashati k'umweru karimo uturongo tw'umukara, akaba akenyeye n'umukenyero afite n'icumu mu ntoki ari kubyina ari guhamiriza abyina indirimbo za gakondo.

Umugore wicaye ari kumwe n'abana be umwe aramukikiye undi amwicaye iruhande, ku ruhande rwabo hari inkoko irimo akagemeri ari kurengeramo soya, aha ni mu cyaro.

Imodoka nini cyane izwi ku izina rya fuso, ikaba isa umweru yanditseho amagambo avuga ngo: Gutaha ku mugaragaro ikigo cy'ikoranabuhanga cyita ku buzima mu karere ka Bugesera.

Umukobwa uri guseka wirabura, ufite isatsi ya menshi, yambaye agasengenge gasa icyatsi, inyuma yaho yambariyeho akajiri ka kosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN gasa umuhondo.

Amafoto y'abantu bagiye batandukanye ariko bifashe nk'ibipupe aho bari gukora siporo, hejuru hari amagambo yanditse mu ibara risa umukara avuga ngo ibintu byerekeranye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Inyubako nziza cyane, isakaje amabati asa umutuku. ikaba iteye amarangi y'umweru ku nkuta, ndetse ikaba isa neza cyane, ifite inkuta zubabakishije amabuye.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yicaye ahantu muri rigore itwara amazi, ari kugenda atoragura imyanda yose n'amashashi, ayikusanya ayishyira hamwe.

Umugore mwiza cyane w'inzobe wambaye amaherena ateze igitambaro, ariko akaba yakunje isura bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, muramutse muhuye ntuhunge yakumena amaso.

Abantu babiri bicaye mu cyumba, umwe ni umukobwa, afite igishushanyo k'ingwe mu ntoki ze, yambaye n'ikanzu y'ubururu, undi mugenzi we ari kumureba, we yambaye iby'umukara, imbere yabo ku meza hari akantu ka mpande enye karimo ibipupe by'abantu.

Umugabo wambaye agapira k'umukara yipfutse mu maso, aho afite umusatsi muke, uyu mugabo rero afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza cyane ko umuntu yamwegera akamuganiriza ndetse akamuhumuriza.

Umugabo wegamiye ku rukuta wambaye ishati y'igitenge arebye hejuru, urukuta rurasa nabi kuko rurashaje, uwo mugabo arahangayitse kuko bigaragara ko afite ikibazo runaka ari gutekerezaho.

Umugabo uri ku cyapa aho yambaye imyambaro y'umweru iruhande rwe hari idarapo ry'u Rwanda, akaba ari kutubwira ngo turi kumwe, kuko ni we uzatuganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umusaza washavuye yarize arirabura amarira ari gutemba ndetse n'ibimyira byavuye mu mazuru uyu musaza rero bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu b'urubyiruko bambaye udupira tw'urugerero turi mu mabara asa ubururu. Bakaba bahagaze ahantu bari kwifotoza bigaragara ko hari igikorwa runaka bari barangije none bakaba baje gufata ifoto y'urwibutso.

Umusaza wambaye itaburiya y'umweru. Uyu nguyu rero, akaba ari umuganga. Hejuru hakaba hariho amagambo, yanditse mu ibara ry'umuhondo avuga ngo, uhawe ikaze nanone. Hariho kandi n'ikirango cya kaminuza nkuru y'uRwanda.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umutuku n'ubururu ari gusuhuzanya n'umugabo wambaye inshabari hafi yo kwambara ubusa, bari gusuhuzanya uwo mugabo w'umusazi afite isoni afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, uyu nguyu rero arashaka kumuhumuriza.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama, bakaba bayishoje bari kwifotoza, inyuma yabo hari Ikirango cya Repubulika y'u Rwanda, hari ikarita y'Afurika, hari n'amagambo avuga ngo bari kwiga ku nama yo kurwanya ihohotera rishingiye ku gitsina.

Abana benshi cyane bateraniye ahantu hamwe bakaba bari gushungera umuntu uri kubafotora, uko bigaragara aba bana ni abo mu cyaro kubera ukuntu baba bambaye.

Umugore uhetse umwana ufite agapfukamunwa yambariye munsi y'akananwa uri guseka, ari kumwe n'umwana muto uhagaze iruhande rwe, aho uyu mugore ari gushigisha igikoma cya sosoma ngo abashe guha abana be.

Abantu babiri bateraniye hamwe mu cyumba. Umwe ni umuganga, undi ni umurwayi waje gushaka serivise. Ameza ariho igitambaro cy'umuhondo, hejuru hateretseho igikapu ndetse n'icupa ririmo amazi yo kunywa.

Abantu benshi bateraniye hamwe bari gukoma mu mashyi bigaragaza ko bishimye, harimo abagore ndetse harimo n'umwe w'umuzungu, barahagaze barishimye, bigaragaza ko hari umuntu bari kureba imbere nubwo atagaragara.

Amagambo yanditse mu nyuguti zisa umukara aravuga ngo: mHub, hejuru hariho udushushanyo tw'uruziga turimo n'utudomo tugiye dutandukanye.

Icyapa kiri mu mabara y'umutuku, kikaba cyanyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hari kandi n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda, hariho kandi n'amagambo yerekana ikigo cy'igihugu cyita ku buzima aricyo kizwi nka RBC.

Umugore wambaye ibitenge bidozwe mu buryo bw'iribaya bisa umutuku. Afite imisatsi ya menshi yicaye ahantu. Inyuma ye hari undi mugabo uri gucisha ibicuruzwa bicururizwa aho ngaho.

Abantu bagera muri batatu bateraniye hamwe, babiri muri bo ni abaganga undi umwe ni umuturage, bose bambaye udupfukamunwa, bari kuganirira uyu mubyeyi ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Abantu benshi cyane bahagaze, imbere yabo ku meza hashasheho ibitambaro by'umukara, hariho kandi n'umubumbe uri mu ibara ry'umutuku, aba uko bagaragara ni abaganga bita ku ndwara zo mu mutwe.

Abantu bari kumwe bakaba bahagaze bari kwifotoza. Harimo kandi n'umugabo ukorera inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda. Bakaba baherereye ku kigo nderabuzima cya Kacyiru.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, iyo nyubako ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ifite ubusitani bwiza cyane bukiri buto ndetse ubwo busitani bwayo bukaba buteyemo n'imikindo.

Abana b'abanyeshuri aho bahuriye hamwe, bakaba bafite uburoso mu ntoki, bari kugenda basukura amenyo yabo, ubu ni uburyo bwiza bwo gutoza abana kugira isuku bakiri bato kuko bayikurarana.

Igishushanyo cy'amenyo ndetse n'imizi yayo. Aha bakaba bari kutwereka uburyo amenyo y'umuntu aba angana, ndetse n'imizi yayo. Iki ni igikanka bakoresheje kugira ngo badusobanurire neza dusobanukirwe.

Utwuma tugiye dutandukanye, abaganga bifashisha igihe baba bari gukura abantu amenyo, utu twuma rero turi mu mabara y'umukara, ni twinshi cyane kandi dufasha abaganga neza cyane, ku buryo umurwayi nta kibazo agira.

Umusore uri guseka cyane yambaye agapira k'umweru, inyuma ye hari gusa umuhondo, uyu musore rero ari kutwereka ukuntu amenyo ye ari meza, natwe barimo baratugira inama yo kugirira amenyo yacu y isuku.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, ni ahantu heza cyane, harimo intebe zifite amapine, hari n'ibikoresho byaho byose bisa umweru, amakaro na parafo byose ni umweru.

Umugabo uri guseka yambaye ubusa hejuru, akaba ari gusukura amenyo ye akoresheje urudodo, aratwereka ukuntu amenyo ye ari meza, afite umusatsi muke ndetse n'ubwanwa buke.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi kwa muganga, by'umwihariko ubuvuzi bw'amenyo, umuntu wese uje kwivuza amenyo cyangwa kwikuza amenyo ni iki cyumba bamwakiriramo.

Umwana ufite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, none bamujyanye kwa muganga. Yicaye ku ntebe zabugenewe, muganga na we aricaye yamwasamishije, ari kureba uko amenyo ye ahagaze mu kanwa, kugira ngo abone uko amuvura.

Umuntu wambaye agapfukamunwa akaba afite udupfukantoki n'akuma mu ntoki uyu ni muganga, imbere ye hari umugore w'umurwayi uryamye waje gushaka serivisi z'ubuvuzi ari kumureba.

Umwana muto w'umukobwa, aho yasamye muganga ari kugenda areba ko amenyo ye ntakibazo afite. Uyu mwana yambaye amaherena ndetse yambaye n'agasengeri gasa umuhondo.

Umwana muto cyane wagiye kwa muganga none muganga ari gusuzuma amenyo ye, aho yamwasamishije ari kugenda ayakoraho ngo yumve niba ari impengekerane ayakure hazamere ayandi meza cyane.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye, harimo agatebe muganga yicaraho ari gusuzuma umurwayi, harimo kandi n'agatanda umurwayi aryamaho biri mu mabara y'umutuku.

Abantu bicaye bateranye bari hamwe bambaye imipira isa icyatsi. Bakaba bari mu nama yiga ku ngingo runaka, bose bafite uburoso bigaragara ko bashaka guteza imbere kugirira isuku amenyo.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe wambaye agakanzu k'umweru, afite imisatsi miremire, ari guseka, aho afite uburoso ari gusukura amenyo. Ni byiza cyane kugirira isuku amenyo yacu, kuko bituma tugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umugabo uri gukorera isuku amenyo ye akoresheje urudodo, arishimye cyane aho yasamye akajya arafata urudodo akarukoza mu menyo kugira ngo agende avanamo imyanda iba yaheze hagati y'amenyo.

Umugabo mwiza cyane ufite ubwanwa ndetse n'amenyo meza, yogoshe neza cyane, aho ari kutwereka ukuntu amenyo ye ari meza, ni byiza cyane ko natwe tugirira isuku amenyo yacu, maze akamera nk'aya ngaya.

Umusore uri gukorera isuku amenyo ye, akaba afite urudodo yifashisha mu gihe arimo arasukura amenyo ye, kugira ngo yirinde imyanda isigara hagati y'amenyo.

Umwana muto cyane w'umukobwa akaba afite uburoso busa umuhondo n'ubururu, akaba ari gukorera isuko amenyo ye, ni byizayiza kugiriraho amenyo ndetse no kubitoza umwana ukiri muto akabikurana.

Umugabo ufite ubwanwa buke n'umusatsi muke, yambaye agashati kajya gusha ubururu ariko akaba ari guseka, baratwereka ukuntu amenyo ye ari meza, ni byiza ko natwe tugirira isuku amenyo yacu akamera nka gutya.

Umukobwa mwiza cyane w'inzobe, aho ari gusukura amenyo ye, yambaye agasengeri k'umweru ateze n'agatambaro, ari kureba mu ndorerwamo uburyo ari gusukura amenyo ye, arishimye cyane.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, akaba yishimye cyane ari guseka afite imisatsi myiza cyane, yashyize urudodo mu menyo ari kugenda ayagirira isuku, ni byiza cyane gusukura amenyo yacu dukoresheje urudodo.

Umugore wagiye kwa muganga afite ikibazo cy'uburwayi bw'amenyo, abaganga bamwicaje none bari gusuzuma amenyo ye, basanze hari rimwe rifite ikibazo none bari kurikura.

Umugabo uri gusukura amenyo ye akoresheje urudodobo aho yashamye akagenda akoza ururudo hagati y'iryinyo n'irindi, ni byiza rero gusukura amenyo yacu dukoresheje urudodo kuko bituma tugira ubuzima bwiza.

Amenyo agiye atandukanye, aha bari kutwereka uburyo amenyo aba ari maremare cyane. Abaganga bahitamo uburyo bwo kwifashisha ibikanka kugira ngo umuntu abashe kumenya uko amenyo ye aba areshya.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo udutebe dusa iroza dufite amapine, hejuru hari amatara ari kwaka mu ibara riri gusa umweru.

Umugabo w'inzobe uri gukorera isuku amenyo ye akoresheje urudodo, aho ari guseka afite ubwanwa buke cyane ndetse nta musatsi afite, ni byiza cyane gusukura amenyo dukoresheje akadodo kuko biturinda indwara ziterwa n'umwanda w'amenyo.

Umwana uri kwa muganga, abaganga bamuryamishije, bamwasamishije ndetse bari gusuzuma amenyo ye ko yujuje ubuziranenge, iryo barasanga ritameze neza baraza kurikura.

Umwana mutoya wagiye kwa muganga kwivuza amenyo none muganga akaba ari kugerageza kuba yasuzuma niba amenyo ye ameze neza, nasanga hari irifite ikibazo araza kurikura.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho harimo agatebe gafite amapine k'umukara ndetse n'akabati k'umweru nako gafite amapine, hejuru y'akabati hariho insakazaamashusho izimije.

Umusore wambaye agapira k'umweru nta bwanwa agira afite n'imisatsi mikeya, ari guseka aho afite urudodo ari kugenda akoza mu menyo ye kugira ngo ayagirire isuku, ni byiza cyane kugirira isuku amenyo yacu dukoresheje urudodo.

Umugore uri guseka wishimye cyane, imbere ye hari ikiganza gifite amenyo y'amakorano, aha bari kutwereka ko nawe atari byiza kubaho nta menyo afite igihe iryinyo ryawe ryakutse, ugomba kugura andi agezweho akaba ariyo uzajya urakoresha.

Umugore wagiye kwa muganga arwaye amenyo none hari inzobere mu buvuzi ebyiri zaje ziri kumwitaho, ni abaganga bose bambaye udupfukamunwa n'amadarubindi.

Mu cyumba cyo kwa muganga, ahatangirwa serivisi zigiye zitandukanye, by'umwihariko serivisi z'ubuvuzi. Harimo agatebe gasa umutuku ndetse n'ibindi bikoresho byifashisha biri mu mabara y'umweru.

Umwana ukiri muto wagiye kwa muganga none ba muganga ba kureba ikibazo cy'amenyo ye aho bamwasanishije, bakaba bari gukozamo ibyuma ngo barebe ko afite ubuziranenge.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi zerekeranye n'amenyo cyangwa ubuvuzi n'uburwayi bw'amenyo, harimo udutebe abantu baje kwivuza bicaraho, hanyuma ba muganga bakabasuzuma.

Umusaza wagiye kwa muganga kwipimisha umuvuduko w'amaraso, none muganga yashyize icyuma cyabugenewe mu kizigira cy'ukuboko kwe, ari gupima ngo arebe uko amaraso ye ameze. Umusaza nawe yateze ategereje ibisubizo bya muganga.

Umusaza n'umukecuru bombi bageze mu zabukuru, imisatsi yabo ni imvi, umusaza yambaye agashati gasa icyatsi, umukecuru nawe yambaye agapira k'umutuku, imbere yabo ku meza hari ibirahure, umugabo nawe bari kumwereka umubare w'ibinini agomba kunywa.

Umusaza w'umwirabura n'umukecuru w'inzobe bari kumwe bari gukora imyitozo ngororamubiri, bari kugenda bakora ka mucaka, umusaza n'umukecuru bose bari kumwenyura, ni byiza cyane ko abantu bageze mu zabukuru na bo bajya barakora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza ugeze mu zabukuru ari kwa muganga none muganga ari kugenda amusindagiza amufata ukuboko kugira ngo umusaza ahaguruke ku gitanda ndetse ananure n'imitsi ye.

Umusaza n'umukecuru birabura bageze mu zabukuru, barishimye cyane ndetse umusaza ari gusoma umukecuru, umukecuru nawe yanezerewe ajya guseka, uwo mukecuru ateze igitambaro gisa umutuku.

Abakecuru batatu bageze mu zabukuru, babiri muri bo bambaye amadarubindi, undi umwe ntayo yambye, babiri muri bo bambaye ingofero undi umwe ntayo yambaye. Bari kureba muri telefone ifitwe n'uwo hagati hari ibintu bari kurebamo barakurikiye.

Umusaza ugeze mu zabukuru akaba yagiye kwa muganga, muganga ari kumugendesha mu gikoresho cyabugenewe agendera ku byuma kugira ngo ananure imitsi ye arusheho kugororoka, muganga yambaye impuzankano ziri mu mabara y'icyatsi.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru, bari kureba muri telefone bombi, imbere yabo ku meza hateretse ikirahure, hari n'uducupa kandi tugera muri tubiri turimo imiti bandikiwe na muganga.

Abantu benshi cyane, bari kumwe bari kwifotoza. Harimo umusaza n'umukecuru, abana babo ndetse n'abuzukuru. Muri make, uyu wose ni umuryango wuzuye.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, yambaye agapira k'umutuku, ari kumwe n'umusaza barishimye cyane, umusaza yambaye agasaha n'agapira k'ubururu, ari kumwereka uburyo ki agomba kunywa imiti abaganga bamwandikiye.

Amoko agiye atandukanye y'ibiti, yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo. Hakaba harimo n'udusahane turimo iyo miti, mu mabara agiye atandukanye. Ndetse harimo n'indyo yuzuye, umuntu ageze mu zabukuru, yabasha kuba yarya.

Umusaza ugeze mu zabukuru yambaye agashati ka karokaro. Ari kugenda ashyiraho ibyo kurya ku gasahani ke afashe mu ntoki. Ni byiza cyane rwose ko umuntu ugeze mu zabukuru arya indyo yuzuye.

Umukecuru ugeze mu za bukuru aho yiyogoshesheje umusatsi wose akawumaraho, afite ibinini mu ntoki ndetse n'ikirahure kirimo amazi, uko bigaragara agiye kunywa imiti yandikiwe na muganga.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru, aho bari kurebana bose bishimye, umusaza yambaye agashati k'umweru umukecuru agapira k'umutuku, bafite ibyo kurya imbere yabo ku meza bigaragaza ko bibashimishije.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, ari kumwe n'umukobwa we, bari kugenda mu muhanda. Umukecuru afite akuma kabugenewe, kifashishwa bakora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwabo hateye ibifunzo, inyuma yabo hari ibiti birebire.

Umusaza ugeze mu zabukuru, yambaye agashati k'ubururu n'agapfukamunwa, aricaye ari kurebana n'umuganga na we wambaye impuzankano ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'agapfukamunwa, uwo muganga w'umugore ari gufungira uwo musaza ibipesu.

Umukecuru ugeze mu za bukuru ari kumwe n'umuganga aho umukecuru afite ikirahure, umuganga ari kumuha ibinini mu ntoki amubwira n'amategeko n'amabwiriza agenga ukuntu agomba kubinywa, umukecuru na we arakurikiye kuko yiteguye gukurikiza inama zose.

Umusaza ugeze mu za bukuru yagiye kwa muganga none muganga ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, aho amuha akumaka ka ariteri umusaza akagenda agaterura mu biganza bye kugira ngo imitsi ye ibashe kugororoka.

Umusaza n'umukecuru bicaye bari kumwe bose bambaye imikenyero ya kinyarwanda, aha ngaha rero bari ni mu bukwe aho umwana wabo yari agiye gushyingirwa, ni byiza cyane ku babyeyi kuko birabanezereza iyo bageze mu zabukuru.

Umusaza ugeze mu zabukuru yagiye kwa muganga. Muganga ari kumushyiramo igikoresho cyabugenewe. Uko bigaragara agiye kumupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo arebe uko ubuzima bwe bwaba buhagaze.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, afashwe ku rutugu n'umwana we w'umukobwa w'umuganga, bari guseka barishimye cyane. Ni byiza cyane ko umuntu wese ugeze mu zabukuru, yitabwaho n'abana be agasaza neza.

Umukecuru ugeze mu za bukuru yambaye agakanzu k'ubururu, ndetse afite, akantu mu ntoki ari kugenda akwedura, kugira ngo imitsi ye igororoke. Arikumwe na muganga, ari kugenda amwereka uburyo agomba kubikora.

Umwana w'umukobwa na nyina bari kumwe, aho umumama ari kwereka umwana udukino twiza two gukina udupapuro, akagenda amererwa neza. Umwana na we yakurikiye. Bose bambaye udupira tw'umweru.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu cyumba, harimo umukecuru ndetse n'abana bakiri batoya bigaragara ko ari abuzukuru be, ni byiza cyane kujya tujya gusura ababyeyi dukomokaho bageze mu zabukuru.

Umusaza ugeze mu zabukuru, yagiye kwa muganga none muganga ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri yoroheje, aho amuha akantu k'akadodo gakweduka, akajya ageragenda agakwedura gake gake, kugira ngo imitsi ye igororoke.

Umukecuru ugeze mu za bukuru, yambaye ikanzu isa umuhondo, yambaye amadarubindi ndetse afite agacupa karimo ibinini ari gusuka ku ntoki bigaragara ko agiye kunywa ibinini muganga yamwandikiye.

Umusaza ugeze mu zabukuru, ari gusunikwa ku kagare k'abafite ubumuga, ari gusunikwa n'umukobwa, uyu musaza yambaye amadarubindi ndetse n'imisatsi ye yabaye imvi.

Umusaza ugeze mu zabukuru aho yagiye kwa muganga, yambaye agashati gasa shokora ari kumwe na muganga wambaye itaburiya, muganga agenda amusobanurira uburyo imiti amuhaye agomba kuyikoresha.

Umukecuru ugeze mu zabukuru none umukobwa we w'umuganga ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri, aho amuha akuma akagenda agaterura koroheje kugira ngo imitsi ye igororoke, uyu mukobwa w'umuganga ari kumusekera.

Abantu benshi bicaye hamwe bari mu nama, harimo abakecuru bagera muri batatu n'abandi benshi cyane b'abagore bakiri bato bateraniye ahantu bakurikiye umuntu uri kubagezaho iyo nama.

Umusaza ugeze mu za bukuru yagiye kwa muganga, none muganga yamuha utuntu tureduka tw'umuhondo, bariku kugenda bakururana kugira ngo umusaza agende agororoka imitsi ye.

Abakecuru babiri bageze mu zabukuru, bakaba bicumbye utubando bakenyeye n'imikenyero, bari kugenda mu muhanda w'igitaka, inyuma yabo hari abandi bantu bari kugendana muri uwo muhanda.

Umusaza ugeze mu za bukuru yambaye amadarubindi, yambaye ni'shati isa pinki, akaba afite igitabo mu ntoki n'ikaramu ari gusoma, ni byiza cyane ko abantu bageze mu za bukuru babona ibintu bahugiraho.

Abagore benshi bagiye batandukanye, bicaye ahantu mu nzu itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku ndetse n'inyuguti ya kane n'ikimenyetso cyo gukuba mu ibara ry'icyatsi.

Umuntu bari gutera urushinge, akaba ari kuruterwa n'umukorerabushake wambaye ingofero y'abisilamu, ndetse n'agapfukamunwa, ni mu gihe cya Covide cumi n'icyenda, aho buri muntu wese ategetswe gukingirwa Covide cumi n'icyenda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama, hari abantu bagera muri batandatu bicaye imbere yabo aho bari kubakoresha inama, harimo umugore umwe n'abagabo batanu, inyuma yabo ku gikuta hariho icyapa kimanitseho amafoto yabo bantu.

Ahantu hasa ubururu, hakaba hari amagambo yanditse agera muri atatu mu mpine, inyuguti HPR, akaba ari uku kuvuga ngo ubuzima ku baturage b'abanyarwanda.

Icyapa cyanditseho amagambo agiye atandukanye by'umwihariko amagambo ari mu nyuguti nkuru yanditse mu mabara y'ubururu, bari kutubwira ngo haboneke urugero rw'urukingo ruzifashishwa mu kurwanya kovide cumi n'icyenda.

Amagambo y'umweru yanditse ku cyapa kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu. Aho aya magambo yanditse mu rurimi rw'Icyongereza. Aho bari kutubwira ngo bagomba guhugura abana bari mu mashuri yisumbuye, uburyo ki bakwirinda imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Utwapa tubiri, kamwe kari mu mabara y'icyatsi, akandi kari mu mabara y'ubururu. Twose twanditsemo amagambo ari mu mabara y'umweru. Ako hejuru kanditseho uburyo ki hagiye gukorwa ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima.

Inyuguti zigera muri eshatu ziri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi hakaba ari ibirango by'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda rbc munsi hakaba handitseho amagambo mu cyongereza avuga ngo ubuzima umuturage imibereho myiza mu gihugu.

Inyandiko ziri mu mabara y'umweru ndetse n'amabara y'icyatsi. Hakaba handitseho uburyo ki bakwirinda, ndetse bakaba barwanya indwara ya kanseri.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, aho yagize ikibazo cy'impanuka ijisho rye rirangirika, none kwa muganga baripfutse. Umukecuru ari gushinyiriza. Ateze igitambaro gisa umutuku.

Ibiziga bigiye bitandukanye, birimo uburyo bwinshi twakoreshwa kugira ngo duhagarike ndetse tunirinde Covid cumi n'icyenda. Uburyo bwa mbere: ni ugukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ubundi ni ukwambara agapfukamunwa. Ibi biri gutangwa n'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC.

Inyandiko yanditse mu magambo agiye atandukanye, harimo amagambo y'ubururu, ay'umukara ndetse n'andi y'icyatsi, ku yindi paji hariho ikiziga kiri gusa icyatsi ndetse n'ikindi gisa icyatsi n'umweru n'ahandi hasa umuhondo.

Aha ni kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho umurwayi ari kuza akabwira muganga uko amerewe, hanyuma muganga nawe akamwandikira imiti, bose bambaye udupfukamunwa.

Ibimenyetso byo gukuba byinshi, biri mu mabara agiye atandukanye: umuhondo, icyatsi, ubururu, umutuku, ndetse n'umukara, bari kutwereka n'indwara baba bari kurwanya arizo: SIDA, Kanseri, ndetse na Covide cumi n'icyenda.

Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana, afite igitabo mu ntoki, ari gushuhuzanya n'undi mugabo nawe ufite igitabo, inyuma yabo hari ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Abaganga bateraniye hamwe bagera muri bane hari umurwayi waje urenze none bari kugerageza kumwitaho ngo barebe ko bamusubiza ubuzima, bambaye impuzankano z'icyatsi, imbere ku gikuta hari insakazamashusho ebyiri ziri kwaka.

Umuntu wagize ikibazo igihe yari arimo agenda, none abakorerabushake n'abaganga bamuryamishije ku gatanda batwaraho umurwayi gasa ubururu, bagiye kumuheka ngo bamujyane kwa muganga atabarwe.

Amagambo yanditse ku cyapa cy'icyatsi, akaba amagambo yanditse mu ibara ry'umweru, hari n'andi yanditse mu ishusho y'umutima, avuga ku bijyanye n'uburyo sida yakwirindwa, ndetse ikarwanywa burundu.

Inyubako ya Kigali Convention Centre ikaba iri kwaka mu marange y'Idarapo ry'u Rwanda ariyo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, iruhande rwabo hari umukobwa wambaye akajipo n'agapira k'umutuku, handitseho amagambo ko inama irwanya Diyabete arimo izabera.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, icyo cyapa na cyo kiri mu mabara y'ubururu n'umutuku, hakaba handitseho amagambo mu rurimi rw'Icyongereza, munsi hari andi yanditse mu ibara ry'umutuku.

Abantu babiri umugabo n'umugore, umugore yambaye amadarubindi, bafashe icyapa mu ntoki kiri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ubururu, hirya yabo hari ikindi cyapa kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda.

Abantu bambaye impuzankano z'udupira tw'umutuku, bakaba bambaye n'udupfukamuwa, batereraniye hamwe mu cyumba k'inama, imbere yabo hari abagera kuri batatu, bafite udufuka tw'imikondo ndetse ku meza harambitse utuntu tw'ubururu.

Abantu benshi cyane bari kumwe bakaba bari bari mu nama, bari kwifotoza bose bazamuye amaboko. Bari kwizihiza umunsi w'umugore bose barishimye cyane cyane.

Ikiziga kirimo amagambo agiye atandukanye, kikaba kirimo n'ikarita y'igihugu cy'u Rwanda, ayo magambo ari mu mabara y'umukara ndetse mu kiziga mo imbere harimo amabara y'ubururu.

Ahantu handitse amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu. Hari kandi ikirango cy'umuryango wita ku buzima bw'abana ku isi, ariwo uzwi nka yunisefu.

Abantu bateraniye hamwe bari mu nama, imbere yabo hicaye abagore babiri n'umugabo umwe bari kubagezaho iyo nama. Inyuma yabo hari icyapa kigali cyane cyanditseho insanganyamatsiko bari kwigaho. Hariho kandi n'Ikirangantego cy'u Rwanda n'Ikirango cy'Ikigo cy'Igihugu cyita ku Buzima mu Rwanda RBC.

Aha baratubwira ngo ku itariki enye kugeza kuri cumi n'ebyiri z'ukwa kabiri ku kwa gatanu bibiri na makumyabiri nagatanu hazaba ari umunsi wo kwita ku barwayi ba kanseri mu Rwanda.

Umugore wagiye kwa muganga kwisuzumisha yambaye imyenda y'umukara, none muganga ari kumushyiriraho igipfuko ku kaboko ke ahagana mu nkokora, imbere yabo ku meza hari indangururamajwi.

Icyapa kiri mu mabara asa umukara, icyatsi ndetse n'umweru, handitseho amagambo ari mu nyuguti zisa umukara, hakaba bari kuvuga ngo ku itariki makumyabiri n'icyenda z'ukwa karindwi bibiri na makumyabiri na kabiri bizaba ari ibitwika.

Abantu bateraniye hamwe bari mu cyumba cy'inama bamwe baricaye abandi barahagaze, biragaragaza ko bari kwifotoza inama bari barimo irangiye, buri wese afite agatabo imbere ye ari kutwereka karimo ibyo bigagaho muri iyo nama.

Inziga zigera mu icyenda, aho zigiye zirimo amagambo agiye atandukanye mu mabara atandukanye, muri ayo mabara twavugamo ubururu, icyatsi, umuhondo, icunga ndetse n'umukara.

Umugabo ubyibushye cyane uryamye ku gitanda kwa muganga bigaragara ko afite ikibazo cy'uburwayi, yambaye agapfukamunwa ndetse araryamye arimo na serumu.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugenda imbere y'amarembo y'ibitaro bya Ruhengeri, bikaba byubakishije amatafari ahiye, ndetse hari n'ibyuma bisa umweru. Mo imbere harimo ubusitani bwiza cyane.

Mu cyumba kiberamo inama hicayemo abantu bake, bigaragara ko aba bantu baje mu nama ariko bakaba bahageze mbere ubungubu bakaba bategereje bagenzi babo. Intebe zihari zirasa umukara.

Inyubako nziza cyane yubatswe ku buryo bugezweho, ikaba ifite ubusitani bwiza cyane ndetse ku marembo hari icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye ari yo icyatsi, shokora, icunga, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi kijimye.

Umugabo uryamye ku gitanda kwa muganga, muganga rero akaba yambaye itaburiya n'agapfukamunwa, aho ari kugenda amwitaho ngo arebe uko ubuzima bwe buhagaze muri iyi minsi.

Igitanda kiza cyane gishasheho amashuka y'umweru, kikaba kiri mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo insakazamashusho ebyiri zizimije zitari kwaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba ari etaje ifite ibirahuri byiza bibonerana, akayira kari imbere yaho ni aka kaburimbo, hari n'ubusitani bwiza cyane burimo n'ibiti by'imikindo.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara ari mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho ari kugenda azinga supanete kugira ngo abarwayi nibaza bayimanure bwije.

Umwana wamugaye, aho hari umusore uri kugenda, yambaye kositimu amusunitse mu kagare k'abamugaye, ku muryango hatatse neza mu mabara y'umuhondo, icyatsi n'umweru, hari umukobwa uhahagaze, aho ari kubaha ikaze.

Icyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye z'ubuvuzi, harimo ibikoresho bimanitse hejuru biri mu mabara y'umweru ndetse hari n'utuntu tw'umukara, hasi hari ibyuma byabugenewe, abaganga bifashisha bari kwita ku barwayi ngo barebe ko babavura.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, nta muntu n'umwe urimo, hari intebe zibereye aho ndetse harimo n'ibyuma byifashishwa, amatara muri icyo cyumba ari kwaka, ibikuta byaho birasa umweru.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, ifite inkuta ziteye amarangi asa n'ivu, ifite ibirahure byiza cyane ndetse handitseho n'amagambo ari mu ibara ry'umutuku avuga uburyo ki bagomba kwita ku buzima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho cyane, ikaba ifite ibirahure bibonerana. Hejuru ikaba iteye amarangi asa n'ivu. Mo hasi ku rukuta hahagazemo abantu bagera muri batatu.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho hari bomboni zigera muri ebyiri, zisa ubururu. Izi zikaba zifashishwa mu kongerera umuntu w'umurwayi umwuka, igihe ameze nabi.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bw'amagorofa. Umuryango urafunguye, hari imodoka iri gusohokamo, igiye kwinjira mu muhanda wa kaburimbo. Hari n'abasekirite, bari gufungurira iyo modoka.

Inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, ikaba ifite parafo zisa umweru, amatara ari kwaka umweru, igiye ifite n'amarangi y'icyatsi, nta muntu n'umwe uri muri iyi nyubako.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho ikaba yubakishije amatafari ahiye, ifite ubusitani bwiza cyane imbere yayo ndetse akayira kayiganaho kakaba gashashemo amapave.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga hari icyuma cyabugenewe banyuzamo umuntu, aho bamuryamisha kwa kiriya gitanda agacengeza umutwe mo imbere hanyuma iki cyuma kikareba ikibazo cy'uburwayi yaba afite.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, iteye amarangi y'umweru hakaba, handitseho amagambo mu nyuguti z'umukara, ayo magambo avuga ko ari Kaminuza nkuru y'u Rwanda, ikaba iherereye i Huye mu karere ka Huye.

Inyubako nziza cyane aho irimo ibikuta bisize irange ry'umweru, mudasobwa ndetse hakaba harimo n'ibyuma byinshi kabuhariwe byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibitanda bitandukanye ndetse n'udutebe bifashisha baha serivisi abarwayi baje babagana, ku gikuta hariho ibishushanyo bigiye bitandukanye bihashushanyije.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho hanze mu mbuga yayo hari imodoka zigera muri eshatu kuri iyo nyubako hamanitseho icyapa kiriho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse n'ikirango cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima.

Inyubako nziza cyane isakaje amabati y'ubururu, ikaba ifite ibikuta biteyeho irangi ry'umweru ndetse hakaba handitseho amagambo ngo "Inzu y'ababyeyi." Muri materinite.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, imbere hari kaburimbo, hari n'abantu bari gutambuka, hari n'ibendera ry'u Rwanda, aha ngaha ni ku bitaro bya Kaminuza y'u Rwanda bya CHUB biherereye mu karere ka Huye, intara y'Amajyepfo.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hari umugabo ufashe icyuma cy'umweru aho ari gusuzuma ko kimeze neza, ku bikuta kandi hari insakazamashusho ebyiri ziri kwaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iyo nyubako ari inyubako itangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga ikaba ifite ubusitani bwiza cyane bukiri buto.

Ku kigo nderabuzima cya Tabagwe cyubatse neza mu mabara y'ubururu, hari urugo ruzitiye akayira kajyaho rukoreshejwe ibyuma, ubusitani bwaho ni bwiza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ishashemo amapave hasi, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bw'amagorofa, ikaba yitwa Sangwa Polyclinic, iherereye mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Huye.

Abantu batatu bari mu cyumba babiri baricaye umwe ni umuganga undi ni umurwayi ari kumubaza uko ubuzima bwe buhagaze, hirya hari undi mugore w'umuzungu w'umuganga na we uhagaze uri gusoma igitabo, buri wese imbere ye ahafite mudasobwa iri kwaka.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima cya Kigina amarembo arafunguye, hanze hari umumama uhetse umwana uhagaze, bigaragara ko agiye kwinjiramo ngo bamuhe serivisi z'ubuvuzi.

Icyumba kirimo utu etajeri tugiye dupanzemo imiti abaganga bifashisha bavura abarwayi, ni myinshi cyane harimo agakorodoro umuganga ahagararamo, hirya harafunze nta muntu urimo.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hari akavazi gasa umweru gateyemo ururabo, hasi kuri sima cyangwa se ku makaro ntamuntu numwe uhari, amatara ari kwaka mu mabara y'umuhondo.

Umugore wamugaye, ugendera mu kagare. Yambaye agapfukamunwa, aho imbere ye hari umugore w'umuganga, wambaye iby'umweru n'agapfukamunwa, uri kumwitaho. Hirya hari abandi baganga bicaye, nabo bari kugenda bakora gahunda zabo, runaka.

Ni mu ishuri, aho umuganga yagiye kwigisha abanyeshuri, ibijyanye n'uburwayi bw'amenyo. Yajyanye igishushanyo cy'amenyo, ari kwereka umunyeshuri. Inyuma ye, hari abandi bantu bahagaze, bazanye n'uwo muganga, muri icyo gikorwa.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, ziteye amarangi y'umweru zisakaje amabati y'umutuku, hari ubusitani bwiza ndetse hari n'abantu bicaye mu tuyira tujyayo bigaragara ko baje kuhashaka serivisi.

Ahantu heza cyane hasa neza, bakorera siporo, hashashe tapi iriho imirongo igiye isa umweru, hejuru hatwikirije ibirahure, ni heza cyane, ubona ko nta muntu n'umwe uhari.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, harimo ibitanda byinshi bishasheho amashuka y'ubururu ndetse n'umweru, hagati y'igitanda n'ikindi hagiye hatambitsemo irido, muri iyi nyubako amatara arikwaka ndetse niheza cyane.

Icyumba kigari cyane kirimo amatara ari kwaka umweru, gifite ibikuta biteye amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru, hasi hashashemo amakaro asa y'igitaka.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa etaje, ikaba yubakishije amatafari ahiye, hejuru hari icyapa kihamanitse bigaragaza ko bahatangira serivisi z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse hejuru hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'umukara. Inzugi zaho zirafunze.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa. Zikaba zubakishije utudafari duhiye. Ziteye amarangi y'umweru, hino yazo hari ubusitani bwiza cyane buteyemo ibyatsi bishishe. Harimo kandi n'itara rimurika.

Abaganga ba bakobwa bakiri batoya, bambaye impuzankano z'ubururu bambaye n'udupfukamunwa, bafunze ibipfunsi aho bari kuvuga ngo izi ngamba twiyemeje tugomba kuzigeraho, tugateza imbere ubuvuzi mu Rwanda.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi asa icyatsi, hakaba hashushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda, aha ngaha ni muri laboratwari, munsi hahagaze umuganga uhakorera wambaye itaburiya.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga kiri kwaka amatara mu ibara ry'umweru, purafo zirasa umweru, ibikoresho by'aho birasa umweru, harimo insakazamashusho izimije ndetse nta muntu n'umwe uri muri iki cyumba.

Abantu benshi cyane b'abazungu ndetse n'abirabura bakaba bahagaze mu busitani burimo icyapa bari kwifotoza, icyo cyapa kikaba cyanditseho ngo ibitaro bya Butaro biherereye mu Majyaruguru mu karere ka Burera.

Inyubako itangirwamo serivise zigiye zitandukanye kwa muganga. Aha turi kureba icyumba gitunganyije neza bakiriramo abarwayi, harimo kandi n'ibikoresho nkenerwa byifashishwa mu gutanga izo serivise ku barwayi.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga hari abantu baje gushaka serivisi zijyanye n'ubuzima hari umugore uryamye ku gitanda bigaragara ko arembye ategereje ko abaganga baza bakamwitaho iruhande rwe hari akabati kamanitseho insakazamashusho.

Icyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga. Harimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abavuzi. Ndetse ku bikuta hashushanyijeho nk'inyamaswa zigiye zitandukanye harimo nk'inzovu, nk'ingwe ndetse n'impyisi.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa ariko ibyiganje muri byo ni iby'ikoranabuhanga aho usanga buri gikoresho gifite amapine.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, ikaba ndetse ifite amarangi y'umweru, ikaba ari laboratwari. Munsi hicayemo abantu baje kuhashaka serivisi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bimeze nk'udushashi, aho byifashishwa batanga amaraso biri mu mabara y'umukara ndetse n'umweru, umuntu wese ugiye gutanga amaraso bayashyira muri ibi bikoresho.

Mu cyumba gitangirwamo serivise zigiye zinyuranye kwa muganga, haba harimo ibikoresho kabuhariwe abaganga bifashisha, mu gihe bari kuvura abarwayi indwara zigiye zitandukanye.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye kwa muganga, harimo intebe zisa umuhondo, hari amatara ari kwaka neza mu ibara ry'umweru n'ubwo atagaragara ndetse ibikoresho bihari byose bifite amapine.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, nta muntu n'umwe urimo, ariko amakaro yaho arasa shokora, hari intebe abarwayi bicaraho ndetse harimo n'ibyuma byifashishwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi.

Umurwayi uryamye kwa muganga, none haje umuganga w'umugore wambaye amadarubindi, akaba ari kumwitaho. Uwo muganga yambaye ndetse n'itaburiya isa umweru.

Umudamu wagiye kwa muganga arwaye, akaba yicaye muganga amuri imbere ari kugenda amubaza uko amerewe na we amusubiza, inyuma ye hari undi murwayi uharyamye usa nawe nk'uwegutse ari kumva uko bimeze.

Kwa muganga mu cyumba gitangirwamo serivise zijyanye n'ubuvuzi, harimo ibitanda bigiye bitandukanye ariko hagati y'igitanda n'ikindi hagiye haciyemo ilido kugira ngo abarwayi bataza kubangamirana.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, ni ahantu hagari cyane ariko nta muntu n'umwe uhari, hejuru harasa umuhondo, hasi hashashemo amakaro ajya gusa na shohokora.

Icyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye abaganga bifashisha bari guha serivisi abarwayi. Harimo kandi n'insakazamashusho ifunze, itari kwaka.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Rwerere. Ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ubusitani bwiza cyane, ndetse n'indabyo zaho, zisa neza cyane. Imbuga yaho, ntabwo irimo sima.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo umuganga wambaye agapfukamunwa, ndetse akaba afite n'agacupa gafite umupfundikizo w'ubururu mu ntoki. Ari kureba muri mudasobwa iri imbere ye, uburyo ki uwo muti uri muri ako gacupa ukoreshwa.

Inyubako ngari cyane, ifite icyumba kibereye aho ariko ikaba itangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, nta muntu n'umwe urimo amatara ari kwaka umweru ndetse imiryango imwe n'imwe irafunguye.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo igitanda, icyo gitanda kikaba gishasheho matera nziza cyane umurwayi aryama, harimo kandi n'insakazamashusho ebyiri, harimo imwe iri imbere yabo iri kwaka.

Mu nyubako ahatangirwa imiti igiye itandukanye ivura indwara nyinshi cyane, iri mu tubati, iyi miti rero ikaba ivura indwara zinyuranye za kizungu.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, kwa muganga, umuryango urafunguye. Hasi kuri sima harasa icyati, harimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, bigiye bitandukanye.

Icyapa kimanitse ku muhanda mu busitani, imbere hari inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zubakishije amatafari ahiye, ibirahuri byaho birabonerana, agahanda kajyayo gashashemo umuhanda wa kaburimbo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, isakaje amabati y'ubururu ndetse ikaba yubakishije amatafari ahiye. Iruhande rwayo hari ubusitani bwiza cyane. Hari n'akayira kahagana kataranoga, byerekana ko iyi nyubako ikiri nshyashya.

Icyumba gicururizwamo imiti igiye itandukanye, ivura indwara nyinshi, kizwi nka farumasi. Aha ngaha rero igihe waba urwaye nakugira inama yo kuhanyarukira, kuko baguha imiti byihuse utiriwe ujya gutonda imirongo kwa muganga.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga nta muntu n'umwe urimo, ariko harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byabugenewe byifashishwa mu gutanga izo serivisi z'ubuvuzi, aho harimo na mudasobwa ebyiri zizimije.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga kirimo agatanda gafite amapine k'umukara, iruhande rwako hari akabati karambitseho insakazamashusho umurwayi aba ari kureba kugira ngo atarambirwa.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, harimo ibikoresho by'ibyuma kabuhariwe biri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, abaganga babyifashisha bari kwita ku barwayi.

Icyumba cyo kwa muganga gifite ibirahuri byiza bibonerana, gifite inkuta ziteye irangi ry'umuhondo, purafo zirasa umweru, hejuru handitseho ngo:"Ni ahakorerwa ubushakashatsi kwa muganga."

Inyubako nziza cyane zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho izo nyubako hejuru yazo hari ikirere cyiza cyane gisa ubururu, hari n'ubusitani bwiza bufite ibyatsi bitoshye.

Abantu benshi baryamye ku bitanda byo kwa muganga, uko bigaragara bararembye cyane hino hari umusaza ugeze mu za bukuru, ubona ko akeneye ubuvuzi bwihuse, ni bitaba ibyo arahasigarwa ubuzima.

Umukobwa wambaye imyenda y'icyatsi, ari gutambuka mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga. Ari kugenda areba ko nta murwayi wasigaye ku gitanda. Cyangwa kugira ngo namubona aze kumwitaho amubaza ibyo akeneye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho yubakishije amatafari ahiye, akaba ari ku kigo nderabuzima cya Gishweru, munsi hari abantu bane bahahagaze harimo umuganga ndetse n'abarwayi baje gushaka serivise.

Icyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi kwa muganga cyane cyane ku bantu bafite ikibazo cy'inkingo, aho bamuzana bakamukoresherezamo imyitozo ngororamubiri agenda aterurwa tuno twuma dusa umukara uko aduterura ariko agororoka.

Inyubako nziza cyane, ikaba ari inzu yita ku barwayi bo mu mutwe yitwa Caraes, iherereye mu Ntara y'amajyepfo mu Karere ka Huye.

Icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, hari inzobere mu by'ubuvuzi, zose zambaye ibisarubeti zikwije, bigaragara ko hashobora kuba hari indwara y'icyorezo, bakaba bari kugerageza kuyirinda.

Mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga harimo umuganga uri ku cyuma bacishamo umuntu bashaka kumenya uko ubuzima bwe buhagaze, uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru, ipantaro ye ntabwo igaragara neza.

Kwa muganga mu byumba bakiriramo ndetse bakanasuzumiramo abarwayi, hagiye habaditseho ibyapa biri mu mabara y'ubururu n'umuhondo kugira ngo umurwayi uzajya uza bajye bamubwira icyumba arinjiramo uko kimeze.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'amagorofa igeretse, imbere yayo hari amadarapo atatu, iryiganjemo cyane ni idarapo ya repubulika y'u Rwanda, ibi akaba ari ibitaro byitiriwe umwami Fayisari.

Abantu bateraniye hamwe mu kibuga aho bari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo abana bigaragara ko ari abanyeshuri, imbere yabo hari umwarimu wambaye imyenda y'umukara n'umweru uri kugenda aberekera ibyo barakora.

Ikirahure cy'amazi aho hari agacupa kari gusukamo gafite impeta y'umutuku ku munwa, aya mazi ni ingenzi rero kuyanywa kuko umuntu nibura aba agomba kunywa amazi adaciye munsi ya litiro ku munsi.

Umukobwa wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, none bamugiriye inama yo kwihutira kujya kwa muganga, yagezeyo none muganga amufashe ku kuguru, ari kugenda amukanda ku ivi ngo asuzume ahafite ikibazo.

Umukobwa wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri akaba yafashe akabafu agashyira ukuboko kwe, yambaye impeta muku kw'iburyo, yashyize akabarafu ku inkokora ye ari kugenda akanda ngo arebe ko yakoroherwa.

Agakoresho bifashisha kwa muganga, igihe baba bari gufasha umuntu wagize ikibazo, cy'imvune igihe yari gukora imyitozo ngororamubiri. Karasa umweru, ndetse imikondo iriho irasa umukara.

Igikoresho cyifashishwa, gisa umutuku ndetse n'umukara. Iki ni igikapu. Kiba kirimo imiti igiye itandukanye, abantu bifashisha mu gihe barimo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa uryamye hasi, yambaye imyenda y'umukara, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, ari mu nzu ifite ibikuta biteye irangi ry'umweru ndetse amadirishya yaho arafunguye, ni ibirahure bibonerana.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye agakabutura k'umukara ndetse n'umupira w'umutuku, ateruye ikintu mu ntoki aho ari kugenda asimbuka ku turongo tuba duhari tw'umweru ndetse n'umutuku, iruhande rwe hari undi muntu ufashe igipira cya Rugby mu ntoki uri kugenda amukoresha.

Umukobwa wicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yambaye imyambaro iri mu mabara y'umutuku, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma umuntu uyigororoka uyikora bimurinda kunanuka akagira ubuzima bwiza.

Umukobwa urimo arakora imyitozo ngororamubiri, yicaye hasi yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri k'umukara, afite imisatsi myiza cyane ya menshi, iruhande rwe hateretse agacupa karimo amazi yo kunywa.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri aho ari abakinnyi ba Karati, umwe yambaye imyenda y'umweru undi yambaye iy'ubururu, uw'umweru bamuteruye bamushyize mu kirere bigaragara ko bari gukina n'umukino wa Jido.

Akajire k'umuntu kandiditseho kuruwaruge rwandeze, uyu ni umuryango utabara imbabare mu Rwanda kandi ukabikora nta kiguzu nta n'inyungu utegereje.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yashinze ivi rimwe, afite utuntu mu ntoki ari guterura, yambaye agakabutura k'umukara n'agapira k'ubururu, iruhande rwe hari umugabo w'umuzungu uhahagaze uri kumukoresha.

Umugabo wambaye imyambaro y'umukara akaba apfukamye arambuye amaboko yunamye, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri kuko bituma ubuzima bwacu bugenda neza kurushaho.

Amoko agira atandukanye ya siporo umuntu yakora, hari siporo yo kuba umuntu yakina umupira w'amaguru, hari uguterura ariteri, hari kugenda kuri mucaka ndetse no gusimbuka n'izindi zigiye zitandukanye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda y'umukara akaba ateruye ariteri. Imbere ye hari umuganga w'umuzungu utagaragara mu maso, umuhagarikiye amukoresha izo siporo.

Udukarito tugera muri dutanu tugiye dufite amabara agiye atandukanye, hari agafite ibara ry'umukara, ubururu, icyatsi, umutuku ndetse n'akandi gafite ibara risa umuhondo.

Umukobwa wicaye ku mukeka w'icyatsi ari gukora imyitozo ngororamubiri. Ari guseka arishimye cyane. Ni byiza cyane gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Mu gukora imyitozo ngororamubiri umuntu aba akeneye kubona n'indyo yuzuye, aha hari amacunga ndetse n'amaronji umuntu ashobora gukoresha kugira ngo umubiri we utere neza, ntitwakwibagirwa kandi n'inanasi.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara aricaye yashinze ukuguru kumwe agufasheho n'ukuboko kwe ahafatishijwe akaboko k'iburyo harasa umutuku bigaragara ko ashobora kuba afitemo ikibazo.

Imbago; iki ni igikoresho gihabwa umuntu ufite ubumuga bw'amaguru. Nk'umuntu utabasha kugenda cyangwa umuntu wavunitse ukuguru. Akacyifashisha kugira ngo abashe gutambuka.

Umugabo uri kunywa amazi yambaye agapira k'icyatsi ndetse n'isaha, arararamye afite agacupa k'amazi ari kunywa. Ni byiza cyane kunywa amazi kuko bituma tugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Akuma cyangwa se igikoresho umuntu yifashisha igihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho agenda agifite, hanyuma akamenya ibirometero yirutse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Ibiganza by'umuntu byambaye udupfukantoki turi mu ibara ry'umukara, ni byiza cyane kwambara utu dupfukantoki igihe cyose ugiye gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bikurinda kugira ubukonje bukabije bwo ku ntoki.

Umukobwa wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri. None yihutiye kujya kwa muganga. Muganga yamusuzumye asanga yavunitse ku ivi. Yashyizeho utumenyetso turi mu mabara, y'umweru ndetse n'umutuku, kugira ngo ajye abona aho yavunitse bimworoheye.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'agakabutura k'umukara. Ari gukora imyitozo ngororamubiri. Aho ukuguru kwe kumwe yakuzamuye akurambika ku cyuma, none akaba afatishijeho ukuboko kw'iburyo. Ukundi kuboko kwifashe mu mayunguyungu.

Ishu, amacunga, ironji, karoti ndetse na kokombure bifasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri neza yitonze.

Umuntu wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, uko bigaragara ni umusore kuko infudiko ze n'ubuhiri, akaba yagiye kwa muganga none muganga yamushyiriyeho utubara ku ivi bigaragaza aho yavunitse.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye kwa muganga, hari agatanda gasa ubururu umurwayi yicaraho mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, hanyuma akamererwa neza.

Umuntu w'umusore wagize ikibazo igihe yakoraga siporo ngororamubiri akina umupira hamwe na bagenzi be, bamuryamishije hasi hanyuma abakorera umuryango utabara imbabare bari kumwitaho.

Mu cyumba gitangirwarwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, hari ahapanze imiti myinshi igiye itandukanye, bifashisha bari kuvura umuntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wakoze umubiri, akaba afite amatugu n'amatuza akaba yavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri. None muganga yashyize ibimenyetso byanditse mu mabara y'ubururu n'umutuku kugira ngo azajye amenya aho yavunitse bimworoheye.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho akora imyitozo ngororamubiri arebeye muri mudasobwa, imbere ye hari agacupa k'amazi, twa ariteri tubiri, ndetse n'utwuma baterura bananurawe imitsi.

Agakapu gasa umutuku kariho ikimenyetso cyo guteranya cy'umusaraba mu ruziga, hakaba hari n'ibikoresho biri iruhande rwaho, ibi bikoresho byifashishwa mu kuvura abantu bagize ikibazo igihe bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Imihangayiko ahanini iterwa no kuba umuntu afite ibintu ari gutekerezaho runaka. Ikunda guterwa kandi no kuba umuntu afite ibintu aba ahugiyeho igihe cyose. Ni ngombwa rero ko umuntu akora siporo kugira ngo aruhure ubwonko.

Igikoresho cyifashishwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, akaba acyifashisha akabasha kumenya ibirometero yabashije kugenda ndetse n'amasaha yakoresheje.

Umuntu uryamye yagiye kwa muganga bigaragara ko yavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri none muganga ari kugenda amukanda imitsi ndetse amukorera masaje kugira ngo amererwe neza.

Inkweto nziza cyane y'umukara, izamuye yanditseho bato, iyi akaba ari inkweto yifashishwa mu gihe umuntu arimo akora imyitozo ngororamubiri, kuko bituma abasha gutambuka neza.

Umukobwa w'umuzungu wicaye yambaye imyenda itukura, iruhande rwe hari mudasobwa afite terefone tuvugana mu ntoki ari kuvuga, hari ndetse n'ibikoresho bifasha abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri.

ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ibi rero urabona ko biri mu mabara agiye atandukanye; harimo umuhondo,'icyatsi ubururu umutuku' ndetse n'umweru; harimo kandi n'amashusho y'abantu babiri.

Ikiganza cya muganga, gifashe agakoresho k'umukara bashyira ku kizigira cy'ukuboko k'umuntu, igihe bagiye gupima ko umuvuduko w'amaraso we uhagaze mu mubiri.

Insakazamashusho ebyiri zicanye, zikaba ziriho ibintu by'ibiziga bigiye bitandukanye, aho buri kiziga kigiye kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hakaba handitseho n'amagambo abisobanura.

Umukobwa wambaye agapantaro k'umukara, agasengeri k'umukara, yahambiriye telefoni ku kizigira cy'ukuboko, yambaye na kuteri, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, inkweto yambaye zirasa umweru.

Umusore wambaye agasengengeri k'umukara, akaba yambaye n'agakomo k'icya ukuboko kwe, yari ari gukora imyitozo ngororamubiri, none arananiwe yicaye ahantu hasi, yegamye ku giti afite icupa ry'amazi ari kwinywera.

Umumansera ndetse n'umuzungukazi bicaye, Imbere yabo hari akana, bari kwifotoza barishimye. Bari ahantu mu nyubako, ishashemo imicyeka myinshi, abantu bose baza bicaraho.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ashinze ukuguru kumwe n'ukuboko kumwe kuri hasi, yambaye imyenda y'umukara, agenda akora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imitsi ye igororoke.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyambaro y'umukara, ikabutura y'umukara, ndetse n'isengeri y'umukara, akaba yashinze ivi ikindi kirenge yagishinze, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri aho yambaye agakabutura k'ubururu n'agasengeri k'icyatsi, yahagaze ahantu hari tapi ari kugenda asunika akuma mu buryo bwo kunanura imitsi ye.

Icyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, kirimo ibikoresho byose nkenerwa byifashishwa mu buvuzi ku buryo icyo umurwayi cyose yakenera bahita bakimuha. Muri iki cyumba rero nta muntu n'umwe ukirimo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuba umuntu yakora siporo neza ushobora kwambara ga cyangwa ukisiga pomade igihe uri kumva utameze neza cyangwa se ukifashisha itoroshi mu gihe bwije.

Umuntu wakoraga imyitozo ngororamubiri, hanyuma aratsikira aravunika. Umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka Croix Rouge, uteruye uwo muntu, aho hari abakozi bawo babiri bamuteruye bamujyanye kwa muganga.

Umusore wavunitse igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'amaboko magufi ndetse imbere yambariyemo agasengeri k'umukara, yafatiye akabarafu ku kuboko kwiwe ari kugenda akanda kugira ngo yoroherwe.

Umukobwa ufite agatambaro ku rutugu yambaye agakanzu gasa nk'ivu, afite agacupa k'amazi ari kunywa, ni byiza cyane kunywa amazi kuko bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi kwa muganga, aho harimo ibyuma byinshi by'ikoranabuhanga, byabugenewe. Harimo na shitingi isa ubururu. Aha rero ni ho abaganga, batangira serivise.

Bande bakoresha igihe baba bari kuvura umuntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo ngororamubiri, iri mu mabara y'umutuku ndetse irazinze ni yose, ahantu irambitse harasa umweru.

Agasanduku k'umukara kaba karimo ibikoresho byinshi cyane byifashishwa k'umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri. Harimo bya bande bisa umweru, shokora ndetse hari n'uducupa tugera muri dutanu turimo pomade.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye na ekuterii ari kumva imiziki, yambaye imyenda iri mu mabara y'umukara, yambaye inkweto nziza za supuresi, aho ari kugenda akora iyi myitozo ngororamubiri kugirango ubuzima bwe bumererwe neza.

Agakapu gasa umutuku, kakaba karimo ibikoresho byose nkenerwa byifashishwa kugira ngo umuntu akore siporo ngororamubiri ndetse kugira ngo nanavunika bibashe kumufasha bibe byamuvura yoroherwe.

Ni icyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga, kirimo ibikoresho kabuhariwe byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, harimo imipira y'amoko atandukanye ndetse hari n'abandi bantu hirya batari kugaragara neza ibyo bari gukora.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi zijyanye n'imyitozo ngororamubiri kwa muganga, hari umuntu uryamye ku gitanda yubamye, afite imisatsi iboshye ya derede. Yambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umuhondo. Iruhande rwe hari undi mugabo w'umuzungu uri kumukoresha iyo myitozo.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yambaye inkweto nziza cyane za siporo, yicaye ku gatanda yambaye nimero makumyabiri n'imwe.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri aho yambaye agapantaro gasa ivu n'agasengeri gasa icyatsi cyerurutse. Arunamye ukuboko kumwe yagushyize mu mugongo ukundi ari kugukoza ku mano, hirya ye hari ibikuta bisa ubururu.

Umuntu yara ari gukora imyitozo ngororamubiri hanyuma aza kuvunika, none yagiye kwa muganga bamushyiriyeho ibarafu isa icyatsi, ari kugenda yikanda ku nkokora, ukuboko kumufasheho kwambaye impeta.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri akaba yambaye imyenda itukura n'umukara n'umweru, akaba iruhande rwe hari akavi kari mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Agakarito karimo imiti igiye itandukanye, aka gakarito karimo amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi, iyi miti rero ikaba izwi mu kinyarwanda nka pomade aho ivura umuntu wagize imvune.

Ni mu cyumba gitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye kwa muganga aho hari icyuma cyabugenewe umurwayi aryamaho agashyiramo umutwe hanyuma kikikaraga kigenda gisuzuma uko ubuzima bwa mo imbere buhagaze.

Akagare gahabwa n'abantu bafite ubumuga, aho gafite amapine ane kakaba gafite n'aho bicara begamira hari mu ibara ry'umukara, hari kandi aho umuntu usunitse umurwayi afata.

Agakarito karimo bande umuntu yifashisha mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, akayizirikaho hanyuma ikaba yamurinda kuba yagira ikibazo runaka.

Umusore wambaye agapira k'ubururu akaba yambaye ekuteri mu ijosi afite telefoni ku kizigira cy'ukuboko, afite gurudu aho ari kunywa amazi, ni byiza cyane kunywa amazi igihe urimo urakora imyitozo ngororamubiri.

Mu cyumba gitangirwamo serivise z'ubuvuzi kwa muganga hari icyuma banyuzamo umuntu bari kugira ngo basuzume barebe uko ubuzima bwe buhagaze, kiba gifite agatanda gasa umweru ndetse n'ikiziga gisa umweru.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho yambaye isengeri y'umukara, yazamuye ukuboko kwe ari kugukoza mu mugongo, uyu musore rero ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Insimburangingo y'ukuguru, aho umuntu wagize ikibazo akavunika ukuguru bamuha iyi nsimburangingo; hanyuma akazajya agenda ayifashisha kugira ngo ubuzima bwe burusheho gukomeza.

Umuntu wagize ikibazo cy'imvune akaba aryamye ku kamatera gasa ubururu. Iruhande rwe hari abantu benshi bari kumwitaho, ngo barebe uko amerewe ndetse nibabona yakomerewe bamwihutane kwa muganga.

Umuganga ufite igikoresho kimeze nk'umupira wa Rugby agifashe mu ntoki, yambaye karuvati nziza cyane y'amabara, itaburiya y'umweru ndetse n'akuma gapima uko umutima utera.

Igikoresho cyifashishwa mu kuvura umuntu wagize ikibazo igihe yakoraga imyitozo, aba ari igikapu gisa umutuku ndetse n'umukara, haryamye umuntu wagize ikibazo none bamushyizeho icyuma bagenda bamusuzuma.

Akadomoro gasa umweru kakaba kariho icyapa gisa umukara cyanditseho amagambo y'umweru, ndetse kuri icyo cyapa hariho amagambo ari mu kabara k'umutuku aho avuga ngo, duhagarika uburibwe.

Umukobwa wambaye agapira k'umutuku akaba afite telefone ku kizigira cy'ukuboko yambaye na ekuteri mu gutwi, umukobwa rero ari gukora imyitozo ngororamubiri, afite icupa ry'amazi ari kunywa.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, uko bigaragara ni umuntu w'igitsina gore. Yambaye agasengeri k'icyatsi aho yashyize ukuboko kumwe mu mugongo, ukundi akagufatisha ku nkokora y'ukwasigaye.

Umusore uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasa ku kuboko, akaba yunamye. Yambaye agakabutura k'umukara, akaba ari kugorora umubiri we. Siporo ni ingenzi, nawe nakugira inama yo kuzajya uyikora buri munsi.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yishimye cyane, yambaye agapantaro k'umukara n'agasengengeri k'umweru, iruhande rwe harambitse imbuto nyinshi cyane umuntu yarya zikamugirira akamaro, harimo imineke, pome, amacunga ndetse n'ibinyomoro.

Umuntu ufite ubwanwa buke, arasa imibiri yombi afite agacupa k'amazi ari kunywa amazi, ni byiza cyane kunywa amazi kuko ni ingirakamaro bituma ubuzima bwacu bumera neza.

Ikimera cyameze mu gisambu, aho ku butaka hateye icyo kimera, iki iyo kimaze gukura kijyanwa mu nganda kigatunganywa kikavamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara za gakondo.

Umugore ufite agacupa mu ntoki karimo umuti gakondo, aka gacupa karasa umukara, uyu muti urimo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi za Kinyarwanda zigiye zitandukanye.

Agacupa gapfundikije umupfundikizo w'umuhondo hariho n'udushashi. Kakaba karimo umuti ukomoka ku bimera witwa umuravumba. Uyu muti rero ukaba wifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda.

Agacupa k'umweru gafite amagambo agiye yanditseho, mu ibara ry'umutuku, iruhande rwako hari ibinini byinshi bihambitse, aho bari kutwereka ko muri ako gacupa harimo ibyo binini.

Amoko atandukanye y'ibinini biri mu ibara rya oranje, inyuma yabyo hari agakarito gasa icyatsi ndetse n'umuhondo, kakaba gashushanyijeho akanyoni kari kuguruka, aka gakarito rero kakaba kabikwamo iyi miti ya gakondo.

Icyatsi cy'ikimera cyameze ahantu mu gisambu, iki cyatsi rero iyo gikuze kikaba gitunganywa kikavanwamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara za gakondo nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Igisambu kirimo ibyatsi by'ibimera bigiye bitandukanye, ibi byatsi rero bikaba bitunganywa bikavamo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Uducupa turimo imiti igiye itandukanye by'umwihariko imiti ivura indwara za gakondo, hashushanyijeho igikakarubamba ndetse hirya mu ruhande rumwe harimo ikimera gifite imbuto zisa umutuku.

Mu ducupa tugiye dutandukanye tuba turimo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, uducupa turasa umweru, ariko dufite imipfundikizo itandukanye, tumwe irasa icyatsi, utundi irasa umweru.

Izi ni tungurusumu zikaba zivamo imiti igiye itandukanye, iyi ngiyi kandi bakunda kuyirya igihe bakeneye kumva umubiri wabo umera neza.

Icyumba kirimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko udukarito tuba turimo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa kinyarwanda, hari imiti y'amoko yose avura indwara zinyuranye.

Agasekuro karimo umuhini basekuriramo imiti gakondo. Hari ibyatsi bifite indabo z'umuhondo n'amababi by'icyatsi ni byo bari gusekurira muri aka gasekuru, kugira ngo batunganyemo imiti ya kinyarwanda.

Ibyatsi by'ibimera bifite amababi asa icyatsi agiye atandukanye, ibi byatsi iyo bimaze gukura babijyana mu nganda bakabitunganya, bikavamo imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gihanga.

Pipinyeri irimo ibimera bikiri bito biri kuzamuka, hari abantu benshi bayisuye; bigaragara ko ibi bimera ari ibivamo imiti gakondo, itunganywa ikavamo imiti ivura indwara za kinyarwanda.

Ni mu gisambu, ahameze ibimera bigiye bitandukanye ariko iKiganjemo ni ikimera gifite indabyo zisa umweru, izi ndabyo rero zikaba zitunganywa, zikabamo imiti ya gakondo, ivura indwara zinyuranye.

Amoko agiye atandukanye y'ibihingwa cyangwa se imiti gakondo yifashishwa ivura indwara za Kinyarwanda, hagiye hariho indwara ndetse n'agafureshi kagaragaza umuti uyivura.

Ahantu mu gisambu harimo ibimera bigiye bitandukanye. Hari igiti kimwe cyakuze cyane kirekire. Iki cyitwa Umunazi. Kivamo utubuto iyo kimaze gukura, hanyuma utwo tubuto tukaribwa.

Uducupa tugiye dutandukanye, tuba turimo imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Utu ducupa rero turambitse ku kayetajeri aho umuntu uje kugura bamurebera, ufitanye isano n'indwara arwaye, akaba ari wo bamuha.

Ahatangirwa serivisis zijyanye n'ubuvuzi bwa gakondo, usanga hari udukangara tuba tugiye turimo imiti itandukanye, ku buryo umuntu udasobanukiwe atapfa kumenya amoko yayo ndetse n'indwara ivura.

Agacupa karimo imiti igiye itandukanye. Iyi miti rere iri muri aka gacupa ni imiti ya gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Agacupa k'umweru karimo imiti igiye itandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda, igihe ugiye kwivuza ku bavuzi rusange uzabona imiti bakunze kuyivana mu ducupa nk'utu ngutu.

Agacupa gasa umweru, kakaba kariho icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku, kuri icyo cyapa handitseho amagambo mu ibara ry'umutuku, hashushanyijeho n'uruyuki ruri guhovwa ku rurabo, bigaragara ko ari umuti gakondo.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera. Hari ibifite indabyo z'umweru, iz'umutuku, iz'iroza, ndetse n'iz'umuhondo. Ibi bimera byose, bikaba bivura indwara zigiye zitandukanye, za gakondo.

Agakarito karimo umuti wa gakondo, wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, uyu muti ukaba ukomoka ku cyayi, hakaba hashushanyijeho akanyoni kari kuguruka ndetse n'amagambo ari mu ibara ry'ibyatsi.

Ni uducupa tugera muri dutatu, Kamwe nak'umweru, karapfunduye, akandi ni ak'umweru gafite umupfundikizo w'ubururu, akandi gasa ubururu, kari hejuru ya twose, kakaba kanditseho ko ari umuti w'amavuta avura uruhu.

Agacupa gasa umweru n'umutuku, gashushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, Iki kimera rero kikaba gikorwamo umuti gakondo, byerekana ko n'umuti uri iri muri aka gacupa ari umuti gakondo.

Uducupa tugera muri tune duteretse ahantu hari amabara agiye atandukanye. Icyo duhuriyeho buri gacupa gashushanyijeho igikakarubamba. Amabara turimo ni ibara ry'umutuku, umuhondo, icunga ndetse n'ibara rijya gusa nka move.

Uducupa tw'umuhondo dushushanyijeho igikakarubamba, dufite imipfundikizo y'umukara, utu ducupa rero tukaba turimo imiti gakondo ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ibyatsi by'ibimera byameze ahantu, bikaba ari birebire bifite n'inkoni koni, ibi byatsi rero iyo bikuze barabifata bakajya kubitunganya bikavamo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Agasekuru k'umweru karimo n'umuhini w'umweru, imbere yako hateretse uducupa tubiri turimo umuti usa umuhondo, hari kandi n'utubabi turambitse hasi, ndetse n'ibindi byatsi by'ibimera biteye ku ruhande bikikije ako gasekuro.

Ikiganza cy'umuntu gifashe agacupa gasa umweru kariho icyapa kiriho igikakarubamba, iki gikakarubamba rero kikaba kivura indwara za gakondo zigiye zitandukanye.

Uducupa tugiye dutandukanye, turi mu mabara atandukanye. Harimo: umuhondo, iroze, umweru ndetse n'ubururu. Utu ducupa twose tukaba turimo imiti ya gakondo ivura indwara nyinshi zigiye zinyuranye.

Icyatsi cy'ikimera, gifite amababi agiye atandukanye. Iki cyatsi nukibona mu nzira cyangwa mu gisambu, ntukagihungabanye, kuko ni ubuzima. Gifasha abantu bafite indwara z'amarozi, kuko iyo bakivuguse bakagikamura, kiragukiza.

Uducupa tugiye dutandukanye, dupanze ahantu kuka etajiri ,aho bacururiza imiti gakondo, utu ducupa dufite imipfundikizo igiye itandukanye, hari iri mu mabara y'umutuku, umuhondo, umweru ndetse n'ibara rya oranje.

Iduka ricuruza imiti ya gakondo turi kubiyibona uko igiye ipanze mu ducupa twiza cyane kuka etageri gasa umutuku n'umweru ni byiza cyane ko nawe wanyarukira hano bakaguha imiti igihe ufite uburwayi bwa gakondo.

Agasahani bari kugenda bashyiramo amababi y'ibiti. Ibi rero ni ibyatsi bari kugenda bashyiramo bagiye kuvanga, hanyuma bakabitunganyamo umuti gakondo uvura indwara zigiye zitandukanye.

Icyatsi cy'ikimera giteye ahantu mu gisambu. Iki cyatsi rero nukibona ntukagihungabanye kuko ari ubuzima. Kuko iyo kirakuze gitunganywa kikavamo imiti ivura indwara za gakondo.

Agakarito karimo imiti igiye itandukanye, iyi miti ikaba yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zinyuranye, ni byiza cyane ko iyi miti tuyifashishisha mu kuvura indwara nyinshi za gakondo ziba zarananiranye.

Ibyatsi biteye mu gisambu ahantu. Ibi byatsi rero, bikaba bitunganywamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. Byifashishwa ahanini, n'abantu bavura indwara za kinyarwanda.

Agacupa k'umutuku, kanditseho amagambo y'umweru. Aka gacupa rero kakaba karimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara za kinyarwanda. Nawe rero nimba urwaye nakugira inama yo kunyarukira mu buvuzi bwa gakondo bakakuvura ugakira byihuse.

Uducupa tubiri ducuritse tuba turimo umuti w'amenyo ukomoka ku bimera, kuri utwo ducupa hashushanyijeho igikakarubamba, uyu muti w'amenye rero nakugira inama yo kuwukoresha kuko bituma amenyo yawe aba meza cyane.

Agatanda gasa umweru k'ibyuma gateretseho amavaze, ayo mavaze rero akaba arimo ibyatsi biteyemo bya gakondo. Ibi byatsi iyo bikuze biratunganywa bikavamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zinyuranye.

Mu gisambu harimo ibiti birebire by'ibimera, amababi y'ibi biti akaba ari ingirakamaro cyane kuko yifashishwa mu buvuzi gakondo, aho agenda avura indwara nyinshi cyane zigiye zitandukanye.

Uducupa tugera muri dutandatu tugiye turimo imiti igiye itandukanye ya gakondo, iyi miti rero ikaba yifashishwa n'abavuzi ba gihaga aho bakuramo imiti ivura indwara igiye itandukanye.

Agacupa k'umweru kariho icyapa gisa ubururu n'umweru, hashushanyijeho igisiga kiri kuguruka, muri aka gacupa harimo umuti gakondo wifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ibyatsi by'ibimera, bigiye bitandukanye. Bikaba bifite indabyo nziza cyane. Ibi byatsi iyo bimaze gukura, babitunganyamo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye. By'umwihariko iza Kinyarwanda.

Uturahure tubiri turimo imiti igiye itandukanye, hakaba harimo amababi y'ibyatsi ndetse n'amazi make asutsemo, iyi ngiyi rero akaba ari imiti bagiye gutunganya, kugira ngo izifashishwe mu kuvura.

Akabido gasa ubururu, gafite umupfundikizo usa icyatsi. Kakaba karimo umuti usukika, ariko wifashishwa mu kuvura indwara za gakondo. Iruhande rwako hariho nimero wahamagaraho, uramutse uwukeneye.

Utubido dusa umuhondo tugera muri tubiri, dufite imipfundikizo isa umutuku, hari uducupa kandi tubiri tw'umweru dupfudikije imipfundikizo isa umweru, hari n'agakarito gasa umweru, ibi byose bikaba birimo imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Agakarito k'ubururu gasa nk'iroza. Kariho umugore wifashe mu mayunguyungu bigaragara ko hari ikibazo yaba afite. Bakakubwira ko uyu muti iyo uramutse uwufashe bikurinda indwara za hato na hato, by'umwihariko nko kubyibuha bikabije.

Umuti w'ikimera uri mu gacupa gasa umweru kariho n'icyapa gisa umweru, kuri icyo cyapa ni ibara ry'icyatsi hashushanyijeho akanyoni kari kuguruka, iyi miti gakondo rero ikaba yifashishwa mu kurwanya mikorobe.

Agacupa gasa ubururu gafite n'umupfundikizo w'ubururu, kakaba karimo umuti gakondo. Uyu muti rero ukaba wifashishwa nk'amavuta y'uruhu, aho uwisiga ugatandukana n'ibiheri.

Agacupa karimo uburoso bubiri bw'amenyo. Uburoso rero bukaba bwifashishwa mu gusukura amenyo, aho hari n'agacupa karimo umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba kuko gishushanyijeho.

U ducupa tubiri tw'umuhondo, hari n'udukarito tubiri, utu ducupa dushushanyijeho inyoni iri kuguruka hariho kandi n'umuti w'igikakarubamba, uyu muti uvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye za gakondo.

Agacupa gasa umweru, kakaba gashushanyijeho igisiga kiri kuguruka inyuma yako hari indi miti y'umuhondo igiye itandukanye, higanjemo ibisate by'amacunga, ibi bikaba bivura indwara za Kinyarwanda.

Umuganga uvura indwara za Kinyarwanda akaba yambaye itaburiya y'umweru, akanozasuku mu mutwe n'agapfukamunwa, afite udukarito ari kugenda avanamo uducupa turimo imiti y'umukara.

Agahago karimo imiti igiye itandukanye, kakaba kariho ikirango kiri mu mabara y'icyatsi, umuhondo, ndetse n'umukara.

Ni mu gisambu harimo amoko menshi agiye atandukanye y'ibimera. Ibi bimera rero uko nguko tubibona birakuze. Bakeneye kuza kubisarura bakajya kubitunganya, bikavanwamo umuti gakondo uvura indwara zinyuranye.

Mu tubidobo tubiri, cyangwa se uducupa, turi mu mabara y'umuhondo. Dushushanyijeho igikakarubamba. Hirya hakaba hari utundi dukarito, natwo dusa icyatsi, ndetse n'umweru. Iyi akaba ari imiti gakondo ikubiye muri utu dukoresho.

Ibyatsi by'ibimera byameze ahantu mu gisambu, harimo ibyatsi by'amoko agiye atandukanye, umuvuzi gakondo aramutse ahageze yarebamo ibyatsi byifashisha akabifata akajya kubitunganya akazavanamo imiti.

Abagabo bagera muri barindwi aba ni abakerarugendo, bari kugenda ahantu mu ishyamba bagenda bareba amoko y'ibiti agiye atandukanye, bari kureba ibivamo umuti gakondo.

Imiti gakondo, igiye iri mu dusahani tugiye dutandukanye, tugera muri cumi na tubiri. Hakaba hari ikiganza cy'umuntu gifashe imiti micye mu ntoki, aho bari kutwereka ko iyi miti ivura indwara z'amarozi.

Agakoresho kabaje mu giti kakaba karimo ibinini bisa icyatsi byinshi bigiye bitandukanye, hari n'ibindi birambitse hasi, kuko byose byanze gukwira, ibi binini bikaba bivura indwara za kinyarwanda.

Uducupa tugiye dutandukanye turimo imiti gakondo yifashishwa mu kurwanya indwara zinyuranye, ni uducupa tugera muri tune. Turi ahantu hari n'indabyo na zo zitunganywamo imiti gakondo.

Uducupa tugera muri turindwi duteretse ahantu hamwe aho hari dutatu tureture dushushanyijeho ikimera kigikakarubamba bikaba biri kugaragaza ko uyu muti uvura indwara za kinyarwanda.

Ibyatsi by'ibimera bifite amababi aba yaragiye aza rimwe rimwe, iki ngiki rero kikaba gitunganywamo imiti gakondo ivura indwara za kinyarwanda.

Agacupa kari gusa umweru, hejuru ku munwa hasi umutuku ndetse n'umupfundikizo usa umutuku, gashushanyijeho inyoni iri kuguruka ndetse hafi ashushanyijeho ikimera cyitwa igikakarubamba.

Ikibabi kiriho ibinini byinshi bigiye bitandukanye. Ibi bikaba byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye, by'umwihariko nk'indwara zikenera kuvurirwa mu buvuzi bwa kinyarwanda.

Ibirahure bibiri aho bigiye birimo utubabi tw'ibimera, harimo kandi n'utuzi, ubu akaba ari uburyo bari kutwereka imiti gakondo itunganywamo hanyuma ikifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye.

Amoko atandukanye y'ibimera iki rero ni ikimera cyameze ahantu hubatse uruzitiro rwubakishije ibifunzo, iki rero amababi yacyo ni ingirakamaro cyane kizwi ku izina nk'umusave.

Agacupa kameze nk'agakombe gapfundikiye, kakaba kanditseho amagambo agiye atandukanye. Kariho ikiziga gishushanyijemo igikeri, aho hari n'udufureshi turi ahantu mu ibara ry'ubururu.

Uducupa tugiye dutandukanye tuvamo imiti ya gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, hari kandi n'imiti ituretse yifashishwa nk'imiti y'amenyo aho nayo iba ishushanyijeho ibirango by'imiti ya gakondo.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo, muri ibi bikoresho haba harimo imiti yifashishwa muri ubu buvuzi, aho baba bavura indwara nyinshi ziba zigiye zitandukanye.

Agacupa k'umweru kandiditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu, hashushanyijeho igisiga kiri kuguruka, muri utu ducupa mo imbere hakaba harimo imiti gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Igisambu kirimo amoko y'ibyatsi agiye atandukanye, ibi ngibi ni ibyatsi by'ibimera byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye za kinyarwanda.

Amoko agiye atandukanye y'ibimera. Ibi rero turi kubona biri mu mabara y'icyatsi, bikaba biteye ahantu mu gisambu. Ibi rero iyo byeze biratunganywa, bikavamo umuti wa gakondo.

Agasekuru k'umweru karimo imiti y'ibimera bagiye gusekuriramo, hari uducupa dutatu tundi, hari akavaze gateyewemo indabyo ndetse n'akandi gacupa bamaze gushyiramo amababi y'utwo turabyo duteye mu kavaze.

Icyatsi cy'ikimera cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, aho kiba gifite amababi agiye atandukanye, ni byiza cyane rero ko ubuvuzi bwa gakondo tubuteza imbere ndetse tukajya tubagana bakatuvura igihe indwara yabaye ingorabahizi.

Amacupa menshi agiye atandukanye, ari mu mabara asa umukara n'umweru, umutuku n'umweru, ibara rya shokora, icyatsi n'umukara, shokora n'umweru, hakaba harimo imiti gakondo muri utu ducupa twose.

Agacupa k'umweru ndetse kariho umukandara w'icyatsi, kakaba gashushanyijeho inyoni iri kuguruka n'amagambo yanditseho arasa icyatsi, inyuma hasigaye hose harasa umukara.

Umukecuru uri mu gisambu aho ari gusoroma ibabi ry'icyatsi, iri babi rero akaba yarifata akarishyira umwana we, umwana we akarikoresha ari kurinywa hanyuma bikamuvura indwara y'inzoka uwo mwana yari arwaye.

Amategeko n'amabwiriza agenga kwiyandikisha mu buvuzi bwa gakondo mu gace ka Afurika y'Iburasirazuba. bavuga ko umuntu wese ugomba gukora uyu mwuga agomba kuba afite ubuhanga budasanzwe.

Amaboko y'umuntu afashe mu ivaze ririmo indabyo, ibi rero akaba ari imiti gakondo bagiye guhuza bakayitunganya hanyuma ikavamo umuti ujya ku isoko.

Ibyatsi by'ibimera tubona, iyo bimaze gukura biratunganywa bikaba byavamo imiti, ubwo rero si ngomba kwangiza ibidukikije kuko bifite akamaro kanini cyane.

Mu cyumba gitangirwamo serivisi z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, hari umuvuzi gakondo ufite agacupa, ari kugapfundikira, aho ari kugenda ashyiramo imiti gakondo, igiye itandukanye.